Ababyeyi bateze ibitambaro byirabura bicaye ku ntebe y'urubaho, hari n'undi mubyeyi wambaye itaburiya uri kuba bapima umuvuduko w'amararaso, inyuma yabo hari ubusitani n'ibiti bitangiye gukura ndetse hari n'inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Umugezi rusange usize ibara ry'ubururu ku gice cyo hasi, uriho abantu baje kuvoma, higanjemo abagore n'abakobwa, bafite ibivomesho by'amabara n'ingano zitandukanye, inyuma yabo hari ibiti binanutse by'icyatsi.

Umuhanzi Israel Mbonyi wambaye umupira wa oranje ari kugaburira akana gato nako kambaye umupira wa oranje gateruwe n'umubyeyi wako wambaye umupira w'umweru, inyuma yabo hahagaze abantu benshi harimo n'uwambaye ipantaro itukura.

Umuzungu wambaye ikoti ryiza cyane, yegeranye n'abajyanama b'ubuzima, bari kumuririmbira banamubyinira, inyuma yabo hari ikigo nderabuzima cya Mayange, cyubatse mu buryo bwa konoshi.

Umwana muto wishimye, wirabura, wambaye impuzankano y'ishuri, ishati y'ubururu, n'ikabutura isa nkivu ariko yijimye, ari kugerageza gukaraba intoki mu ndobo isa umweru, ifite umupfundikizo w'ubururu, iteretse ku ntebe, inyuma ye hari uruzitiro rw'imbingo.

Icyumba gito cyegeranye, kirimo intebe ebyiri n'ameza, ateretseho impapuro zigiye zitandukanye, umugore uteruye umwana yegeranye n'umugabo wambaye imyenda y'abaganga, ari gusuzuma mu ijosi ry'uwo mwana ngo amenye ikibazo afite.

Abana bato bishimye bahagaze mu mbuga irimo urusakabuye munsi yabo hari ibase irimo amazi, hejuru yabo hari umugabo wambaye bote mu maguru, ipantaro ndetse n'agapira gasa ubururu, afite igikombe ari kubasukira amazi mu ntoki, iruhande rwabo hari ibyatsi byinshi.

Imbuga ngari, irimo ubusitani ndetse n'inzira, ihagazemo abantu benshi cyane kandi yari imbangukiragutabara ndetse n'indi modoka hirya imeze nka tagisi. Harimo agatente ndetse hari n'ibendera ry'igihugu. Hari inzu irimo icyapa kinini ndetse yubakishijwe amabuye hariho n'akabara k'umweru hejuru.

Umujyanama w'ubuzima wambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, afite icyapa kiriho umwana muto w'umukobwa n'undi muto w'umuhungu, ari gusobanurira umubyeyi ibintu bigiye bitandukanye, inyuma yaho hari inzu iriho amabuye aconze neza, asize ibara ritukura.

Umukobwa wirabura uri guseka cyane wishimye, wambaye igitenge ndetse n'ingofero mu mutwe, ari gukoresha kandagirukarabe ye murugo, inyuma ye hari inzu isize umucanga ifite akaryango gatoya k'amabati.

Imbuga nziza igizwe n'ubusitani buto buto butarakura ndetse n'ibiti bikiri gushibuka, hicaye abaturage batonze umurongo, hari n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe ndetse ufite imashini iri gupima umuvuduko w'amaraso w'abaturage.

Icyanya kinini kirimo ubwatsi bwinshi ndetse n'ibiti bitangiye gukura, umwana muto wambaye impuzankano y'ishuri, ishati y'umuhondo ndetse n'ikabutura y'ubururu, afite amazi ari mu birarahure bibiri, amwe asukuye andi adasukuye, arishimye kandi ari guseka. Inyuma ye hari ikidendezi cy'amazi asa nabi ndetse n'abana bambaye imyenda idasa neza inyuma ye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuzima, harimo ababyeyi babiri n'akana gato, umwe ni umubyeyi w'ako kana, undi ni umuganga uri kugahereza igitonyanga mu kanwa, hari urugi rufite ibara ry'icyatsi cyerurutse.

Icyumba gito kirimo abantu babiri umugabo n'umugore, inyuma yabo hari ibyapa bibiri kimwe cyanditseho Yunisefu kiriho umubyeyi uteruye umwana ikindi cyanditseho umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima kiriho utwana dutoya.

Agace karimo umugezi rusange kazengurutswe n'imisozi miremire harimo urujya n'uruza rw'abantu, umwana muto wambaye ikabutura y'ubururu n'ishati y'igitenge ari kugerageza kuvoma amazi mu kivomesho ke, hari ibiti ndetse n'ibyatsi iruhande rwabo.

Ibaraza rigari ry'ahantu hatangirwa serivisi z'ubuzima, inyuma hari ibikuta bisa ubururu bwerurutse ndetse biriho ibyapa by'ubururu byandikishijwe mu ibara ry'umweru, abantu bicaye ku mbaho ari benshi batonze umurongo ndetse harimo umwe ufite n'akana gatoya.

Umugezi rusange bavoma bakoresheje imbaraga z'umubiri hari abana babiri baje kuvoma, umwe ari kuvoma yegereye aho amazi asohokera undi ari inyuma arimo arapompa, inyuma yabo hari ibyatsi byinshi cyane ndetse n'ibiti bibazengurutse, ikirere kiracyeye kandi kirimo akazuba gakeya.

Abantu benshi. Biganjemo abambaye ibara ry'umweru n'ubururu, bafite icyapa kinini cyane. Cyanditseho umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri. Munsi hariho abafatanyabikorwa batandukanye muri icyo gikorwa. Bari munsi y'igiti cy'umuvumu kinini cy'ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi biganjemo abagore bigaragara ko bambaye impuzankano z'abantu bakora kwa muganga, bari gufata ifoto y'urwibutso n'umugabo wambaye ikote ry'umukara n'amarineti, inyuma yabo hari ibiti byiza by'icyatsi kandi barishimye ku maso.

Imbuga izengurutswe n'ibiti ndetse n'amazu, hari abantu benshi bari mu mirimo yabo, imodoka ndetse hari abantu bari mu bukangurambaga, bari kugenda bahereza ibipapuro abandi, harimo umubyeyi wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ijire.

Umubyeyi muto wirabura, wambaye agapfukamunwa kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'isaha ku kuboko, ari gusoma umwana mutoya amuteruye, inyuma yabo, hari undi mubyeyi na we wambaye agapfukamunwa ndetse ufite n'akana gato. Hari igikuta kinini kirimo ibara ry'umuhondo ndetse n'idirishya rinini ritambitsemo ibyuma.

Umugezi rusange wo mu giturage uzengurutswe n'uruzitiro rw'ibiti gusa, umugore uteru uyu mwana ari kuvoma mu kivomesho cye cyirabura, inyuma ye hari ibiti binini by'umuvumu ndetse n'inzu zubakishijwe ibyatsi.

Umuhanzi Israel Mbonyi, yambaye umupira w'ibara rya oranje, afite inkongoro mu ntoki ari guhereza akana gato na ko kambaye umupira usa utyo ndetse n'umubyeyi wambaye umupira w'ibara ry'umweru. Inyuma yabo hari abandi babyeyi bateruye abana.

Imibare igaragaza ubushake bw'ibigo bikomeye mu kwimakaza ihame ry'uburinganire mu mibereho yabyo ya buri munsi, iragaragaza imibare yafashwe kuva muri bibiri na cumi n'umunani kugeza muri bibiri na makumyabiri na rimwe.

Icyumba gito cyo kwa muganga, gisa neza, kiganjemo ibara ry'umuhondo ku rukuta kandi gicanye cyane, gifite amadirishya y'ibirahure, hahagaze abagabo batatu, babiri bambaye imyenda y'ubururu ndetse uwo hagati yambaye itaburiya y'umweru. Bambaye udupfukamunwa ndetse n'udukingamusatsi, bafite udukarito tubiri mu ntoki, twiganjemo ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo insakazamashusho ebyiri, ameza ndetse n'intebe zicayeho abantu bari mu kiganiro, hari indabyo ziteguye ndetse umwe muri abo ngabo ari kubaganiriza ku ngingo runaka, abandi bamuteze amatwi batuje.

Umwana muto wirabura uri guseka ari ku ivomo rusange, iruhande rwe hari ibivomesho biri mu mabara atandukanye, iby'umuhondo ndetse n'iby'ubururu, inyuma ye hari ibiti binini bifite amababi y'icyatsi ndetse hari n'imbuga irimo utubaye duto duto.

Agace karimo ivomo rusange ry'abaturage bose, hari umwana umuto uri koza ikivomesho cye kugira ngo ajyane amazi biragaragara ku isura ko yishimye, azengurutswe n'ibiti byiza by'icyatsi bitanga umwuka mwiza ahantu.

Icyumba kigari cy'inama gisa neza cyiganjemo ibara ry'umweru, kirimo n'akabara k'umukara mo hagati, kirimo abantu bicaye ku meza abazengurutse hariho mudasobwa nyinshi ndetse n'imigozi igiye itandukanye, imbere yabo hari insakazamashusho nini irimo ibyo bari kuganiraho.

Icyumba kigari kiri gutangirwamo serivisi z'ubuzima gifite ibikuta bisize irangi ry'icyatsi ndetse n'ibyapa bifite ibara ry'ubururu, abantu bicaye ku murongo barategereje umwe ahagaze imbere y'abaganga bafite mudasobwa imbere yabo.

Abantu bahagaze neza ku murongo utambitse harimo n'umuzungu, benshi muri bo bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse hari n'abambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu , n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo.

Icyumba kiri kuberamo ibikorwa bitandukanye, harimo ibyapa by'ubwoko butandukanye abantu bari mu mirimo yabo harimo umwe uri kuvugira kuri telefone, abandi babiri bari kuganira ku bintu bitandukanye. Umwe ahetse igikapu, undi yambaye umupira w'ibara ry'ubururu.

Abana bato bambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'umuhondo, bari gupepera uri kubafotora, inyuma yabo hahagaze abantu bakuru, harimo n'umuzungu. Bari hagati mu muryango ugizwe n'ibara ry'ubururu ryiganje ndetse inyuma yabo hari n'amazu meza.

Umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda witwa Israel Mbonyi, yambaye agapira ka oranje, afashe umwana mutoya ari kumupima ibiro, bahagaze ku mukeka wiganjemo ibara ry'umutuku, iruhande rwabo hari abandi bantu batandukanye, biragaragara ko bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga.

Abana bafatanye urunana bambaye imipira yiganjemo ibara ry'ubururu, yanditseho ijambo UNICEF, barishimye, inyuma yabo hari amazu yubakishijwe amatafari ahiye afite amadirishya y'ibara ry'ubururu.

Umugezi rusange wanditseho umubare kabiri uriho abantu baje kuvoma biganjemo abana batoya. Umubyeyi wambaye igitenge cyiganjemo ibara ry'ubururu ari hejuru y'umwana muto ufite ikijerekani uri gutega ku mugezi, n'ufite umutaka w'ubururu hejuru yabo.

Icyumba gito cyubakishije amatafari ahiye, hejuru kiriho ibyapa bigaragaza, byigisha abaturage ibintu bigiye bitandukanye, hari abarwayi bane, harimo n'abafite ibipfuko ku mibiri yabo, bigaragara ko bategereje muganga, kugira ngo abafashe.

Umugezi rusange uriho robine ebyiri, umwana muto wambaye ikabutura itukura n'agapira karimo amabara ya gisirikare, ari kunywa amazi akoresheje intoki, hasi ye hari ikivomesho ke ndetse azengurutswe n'ibiti n'amazu ndetse n'ibihingwa byinshi, iruhande rwe hari ikigega kiri ku nkingi enye zifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Umwana muto wirabura, wambaye impuzankano y'ishuri yiganjemo ibara ry'ubururu, ari gukaraba intoki ku mugezi rusange, uri hagati mu mbuga y'ibitaka, izengurutswe n'ibiti binini ndetse hari n'amazu inyuma yiwe.

Akapa gato kiganjemo ibara ry'ubururu bwijimye kamamaza inama runaka, inyuma ifoto y'igorofa ndetse n'magambo yanditse mu ibara ry'umweru n'insanganyamatsiko ndetse n'ibirangantego by'ibigo byayiteguye.

Icyumba kinini cy'uruganiriro, kirimo intebe zicayeho abantu benshi. Bafite amakaye n'amakaramu, bisa nk'aho hari ibyo bari kwiga. Ibikuta byacyo bifite ibara ry'umuhondo kandi biriho ibipapuro byinshi.

Umubyeyi wirabura wambaye agapfukamunwa ndetse n'agapira kiganjemo ibara ry'ubururu n'igitenge hasi, ari koza intoki z'umwana muto wirabura wambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara rya kaki, inyuma yabo hari ibihingwa ndetse n'ibiti bitambitse muri ibyo bihingwa.

Abantu benshi bahagaze ku murongo bamwe imbere abandi inyuma, bamwe muri bo bambaye imyenda y'abakozi bo kwa muganga, iruhande rwabo hari icyapa kigaragaza zimwe muri gahunda zo kwa muganga inyuma yabo hari amazu yubakishije amatafari ahiye.

Ikigega kinini cyane, cyuzuye amazi ameze nk'aho ari kubira, hariho amatiyo menshi agifasheho ndetse hari n'amatara, bigaragara ko kibonesherezwa nijoro. Kiri ahantu hitaruye hari icyaya kinini kirimo ibiti byinshi ndetse hari n'igihu.

Icyumba kigari cy'inama gicanye neza imbere hari abantu bagera kuri batandatu bicaye batanga ibiganiro, inyuma yaho hari icyapa kigaragaza amashusho yabo ndetse n'ibyo bakora, imbere yabo hicaye abantu benshi bari kubakurikira bumva ibyo bavuga.

Inzu isa neza ariko iri kugiramo urumuri rukeya, abantu bahagaze ari benshi bambaye amataburiya y'abaganga hagati muri bo harimo n'umuzungu wambaye imyenda itukura, inyuma yabo hari inzugi eshatu zijya mu bice bitandukanye by'iyo nzu.

Icyumba kinini cy'uruganiriro kirimo ameza manini ateguyeho indabyo hagati abantu bicaye ku mpande zombi ku ntebe zirabura, hari insakazamashusho nini iri imbere yabo ndetse n'ifoto y'umukuru w'igihugu hakaba n'amadirishya manini y'ibirahure.

Abana bato birarabura kandi bishimye bambaye impuzankano yishuri ziganjemo amabara yicyatsi n'umweru, bari kunywa amazi kumugezi rusange utwikirijwe n'akantu kameze nk'akayungirizo, inyuma yabo hari igiti gifite amababi y'icyatsi.

Icyumba cyiza kimaze kuberamo inama, abagabo batatu barahuye bari gusuhuzanya bibwirana, hari n'abandi bari ku ruhande rwabo harimo n'umuzungu bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, hari indabyo nziza ndetse n'icyapa kigaragaza icyo iyo nama yari igamije.

Icyumba gito kiberamo inama intebe zitukura, ameza ateguyeho ibitambaro by'umweru, abantu bose bicaye bambaye udupfukamunwa kandi higanjemo abambaye imipira y'ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru.

Icyapa gito kiriho izina ry'umuryango Unicef mu ibara ry'ubururu, akana gatoya kari kunywa amazi ku mugezi rusange ndetse n'abandi bagahagaze inyuma, hakaba hari n'intebe ya purasitike ku ruhande.

Abana bato bambaye impuzankano z'ishuri buri wese afite igikombe bari kunywa amazi avuye mu kagega gatoya kari inyuma yabo, inyuma y'ikigega hari uruzitiro rw'amabati gusa ndetse n'inzu, hakaba n'imibyare y'insina ihinguka inyuma y'iyo nzu.

Imbuga nziza y'ibitaka yicayemo abantu, harimo umugabo wicaye ku ntebe y'urubaho wambaye boti z'umweru ndetse intebe ye iterutseho impapuro afite n'izindi mu ntoki ,ari kwigisha umugore wicaye mu ntebe y'ibara ry'ubururu ufite urupapuro ndetse ateruraye umwana inyuma hari inzu y'amatafari ahiye.

Imbuga irimo insina, ikabamo n'akameza kameze nk'urutanda, kariho ibikoresho bitandukanye byo mu gikoni. Byanitse ku zuba kugira ngo bitakaze amazi ndetse na mikorobe ziriho zibashe gupfa.

Icyumba gito gitangirwamo serivise zijyanye n'ubuzima, gifite ameza manini ariho ibitabo, ndetse n'intebe z'ubwoko butandukanye, ziganjemo iz'umweru. Ababyeyi bicaye bazengurutse umujyanama w'ubuzima, bari kumva ibyo ababwira. Inyuma yabo hari irido y'ubururu, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, atagaragara.

Icyapa gito kiri mu ibara ry'umweru, kiriho ibirangantego by'ibigo bikomeye mpuzamahanga, harimo ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku bana, ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku mpunzi, ikigo mpuzamahanga cy'ubuzima n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Abantu bambaye neza barimo abagabo n'abagore, bahagaze ku ma esikariye bamwe imbere y'abandi, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyo bahuyemo, bahagaze imbere yacyo bafata ifoto y'urwibutso.

Umugezi rusange uriho umwana mutoya wambaye ikabutura itukura uri kunywa amazi anavomera mu kivomesho cye, iruhande rwe hari inkingi zigizwe n'amaba y'ubururu n'umweru hejuru yazo hari ikigega kinini hazengurutswe n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi bitarakura neza.

Imbuga nziza irimo urusakubuye rwinshi, imigozi yanitseho imyenda, ndetse n'umukobwa wambaye agapira k'iroza, n'ijipo y'umukara uri kuvoma amazi mu kivomesho cye yishimye cyane. Inyuma ye hari inzu yubakishije amabati hose.

Icyumba kinini cy'uruganiriro, gifite ibikuta byiganjemo ibara ry'umweru n'umukara, intebe z'icyatsi kibisi, ndetse n'ameza manini, azengurutsweho n'abantu abagabo n'abagore, bari kuganira, hari n'udutasi tw'icyayi.

Ababyeyi benshi bambaye imyambaro y'ibitenge bitandukanye, harimo bamwe bambaye n'amajire abaranga nk'abajyanama b'ubuzima bahagaze mu mbuga, imbere y'inzu yubakishije amatafari arahiye ndetse ikaba isakajwe amategura.

Icyumba kigari kirimo gutangirwamo serivise z'ubuzima zijyanye no gutanga inkingo ku bantu bakuru. Hari abaganga bicaye ku mameza atandukanye ndetse hakaba n'abarwayi bari kwakira izo serivisi.

Abana bato bambaye impuzankano z'ishuri zibara rya kaki buri wese afite ikivomesho cye cyiganjemo ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari imikindo ndetse n'ibiti birebire hamwe n'ibyatsi bidaconze neza hari inzu ifite ibara ry'ivu ndetse n'amabati ashashagirana.

Imbuga ngari y'ibyatsi izengurutswe n'ibiti bifite amababi y'icyatsi, abantu bicaye ku ntebe za parasitike mu itente, hari icyapa ndetse n'umugore wambaye itaburiya ufite indangururamajwi n'agatabo mu ntoki.

Abantu benshi bari gufata ifoto y'urwibutso, imbere y'inzu isize irangi rifite ibara rijya gusa n'umuhondo, abenshi muri bo bambaye imyenda y'ibara rya oranje n'amajiri y'icyatsi, harimo abasutamye, hari n'abahagaze, hari n'abateruye abana batoya.

Icyapa kinini, kiri ku ibara ry'umweru n'amagambo yandikishije ibara ry'umukara, kigaragaza ikigo gikora ibijyanye n'ubuzima, cyo mu majyaruguru ya carolina, gifite akarango kakiranga, kagizwe n'uturongo tw'ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Imbuga irimo abantu benshi higanjemo n'abana batoya, umugabo wirabura wambaye ijire iri mu ibara ry'ubururu bwijimye afite igipapuro ari gusobanurira undi wambaye ingofero y'abasilamu, inyuma ye hahagaze abana bato bafite n'ibyapa ndetse inyuma yabo hari inzu nini isize karabasasu iri mu ibara ritukura.

Icyumba gito cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi z'ubuzima, umuganga wambaye itaburiro y'umweru ndetse n'uturindantoki ari gupfuka umwana muto ku mutwe wagize ikibazo uteruwe n'umubyeyi we wambaye igitenge.

Abantu bivanze abagabo n'abagore bahagaze ku murongo utambitse ngo bafate ifoto y'urwibutso, iruhande rwabo hari icyapa kigaragaza ibyo bari barimo, inyuma yabo hari inzu nini yubakishije amatafari ahiye yanditseho ngo inzu y'inama.

Abantu bicaye ahantu hatangirwa serivise z'ubuzima, hari umubyeyi wambaye umupira utukura ingofero y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, ari gutanga igitonyanga ku mwana muto wirabura uterewe n'ababyeyi be, hari n'abandi bicaye ku rubaho ndetse n'undi uhagaze uri guseka, inyuma yabo hari inzu isize irangi rijya gusa, umweru werurutse.

Umwana muto wirabura wambaye umupira uciyemo uturongo tw'umukara ufite ibara ry'ubururu afite isabune nini ari gukaraba amazi umubyeyi uri kumusukira amazi akoresheje ijage ifite ibara ry'icyatsi inyuma ye hari agatebe gatoya k'urubaho.

Icyumba gito gisa neza, kirimo ibikoresho byose byabugenewe kugira ngo hakorwe ubuvuzi bwo ku rwego rwo hejuru, abaganga bambaye imyenda yabugenewe, udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki, n'umurwayi uryamye ku gitanda, n'amashuka afite ibara ry'ubururu hano ku ruhande.

Abana bato birarabura bari kunywa amazi ku mugezi rusange, bamwe muri bo bambaye impuzankano za kaki hari n'uwambaye ikoti ritukura, bazengurutswe n'ubusitani ndetse n'ibiti birebire n'akazuba kari kubarasiraho.

Umwana muto wishimye wambaye agapira ka oranje ndetse n'ikabutura y'ubururu, ari kuvoma amazi k'umugezi rusange, usize ibara ry'umukara riwurinda urubobi, inyuma yawo hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti biwuzengurutse.

Imbuga nini, irimo abantu benshi, abakuru n'abato, biganjemo abambaye imyenda ifite ibara rya oranje, abakuru bari guhereza abana bato amata, bakoresheje ibyansi ndetse n'udukombe. Hari n'abahagaze inyuma yabo, harimo n'ufite mikorofone mu ntoki.

Umugezi rusange usize irangi ry'ubururu, uriho ababyeyi ndetse n'abana baje kuvoma, umubyeyi umwe ari no kogereza umwana we ku mugezi, inyuma yabo hari amazu afite ibara ry'umweru ndetse asakajwe n'amabati asanzwe.

Umugabo wirabura cyane wambaye imyenda imeze nk'iyabasazi, ahagaze hafi y'ikimoteri kijugunyemo imyanda itandukanye harimo n'amapine y'imodoka, inyuma ye hari ibimoteri bibiri, kimwe gifite ibara ry'icyatsi kinini gifite ibara ry'ubururu.

Umukecuru wirabura wishimye cyane ufite imyenge hagati y'amenyo n'andi, yambaye igitenge kiza kiganjemo amabara y'icyatsi, inyuma ye hahagaze abagabo n'abagore bari mu cyumba gitoya gifite amabara yiganjemo umuhondo.

Icyapa gito kiri mu ibara ry'umweru ryiganje ndetse n'ibara ry'icyatsi hari igishushanyo kigaragaza imiterere y'umutwe, handitseho amagambo avuga ngo umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe n'itariki ya icumi z'ukwacumi.

Icyumba kinini cyane kiberamo inama, hari abantu benshi bicaye begeranye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, hari uri gufata amashusho hagati muri bo ndetse hari n'insakazamashusho imanitse ku gikuta. Ibikuta byayo bisa umweru na parafo.

Abantu benshi, abahungu n'abakobwa biganjemo abambaye imipira y'ibara ry'ubururu, bari gufata ifoto y'urwibutso hamwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro yirabura, iruhande rwabo hari n'umuzungu. Bari mu cyumba cyiganjemo ibara ry'umuhondo kandi gisa neza cyane kirimo n'inkingi nini cyane.

Imbuga y'ubwatsi nini cyane, yifashishwa mu bukangurambaga, hari imodoka nini cyane yifashishwa muri icyo gikorwa, abantu bicaye mu dutsinda ku ntebe z'umweru, bari mu biganiro bitandukanye. Harimo abambaye udupfukamunwa ndetse hari n'abahagaze imbere y'iyo modoka.

Umubyeyi mwiza, wirabura, uri guseka, yambaye umupira w'ibara ry'umweru, ateruye umwana muto cyane utaramera n'amenyo, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Icyumba cyiza kandi gisukuye cyiganjemo ibara ry'umweru hicayemo abantu babiri umugabo wambaye ishati y'icyatsi cya gisirikare, usa nk'ufite ibibazo n'umugore wambaye agapira k'ikigina usa nk'uri kumuhumuriza.

Abana bato benshi b'abanyeshuri, bazamuye ibiganza basuhuza, bambaye impuzankano yiganjemo ibara ry'ubururu, harimo n'abambaye kaki. Inyuma yabo hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Bazengurutswe n'ibiti byinshi ndetse n'amazu yubakishijwe amatafari ahiye.

Umubyeyi mwiza cyane ufite uruhu rw'inzobe, wambaye umwenda w'ubururu bwijimye ndetse n'umutuku, ari kwifotoreza imbere y'icyapa gifite ibara rya oranje, ari mu nzu igaragara nkaho ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubuzima.

Abantu begeranye bafata ifoto y'urwibutso, igaragaza igihembo bamaze guhabwa, inyuma yabo hari imodoka ifunguye ndetse n'amatente abazengurutse, bigaragara ko aha hantu hari kubera ibikorwa bitandukanye.

Icyumba gito gisa nabi kandi gishaje gifite akadirishya gato kariho ibyuma ndetse gakozwe mu rubaho gasize ibara ry'umukara, hicayemo umubyeyi wambaye igitenge wicaye ku ntebe y'urubaho igiye kuvunika, imbere ye hari ikirago.

Icyumba gito gifite idirishya rinini, riri kwinjiramo urumuri rwinshi cyane, abana babiri bicaye ku meza y'urubaho, umwe wambaye umupira w'ubururu wirabura afashe ukuboko kwa mugenzi we, wambaye umupira w'umweru usa nk'ufite agahinda kenshi.

Icyumba cy'uruganiriro cyiganjemo amabara y'umweru, kirimo intebe ndetse n'ameza ateguyeho ibitambaro by'umweru, hicayeho abagore n'abagabo bakurikiranye ibiganiro, harimo n'ufite mudasobwa iruhande rwe.

Umubyeyi wirabura wambaye agapira k'umweru ndetse ufite telefone mu ntoki n'igipimo gipima umuriro ari kwereka undi mubyeyi wambaye agatenge uteruye n'umwana mutoya, inyuma yabo hari inzu yubakishijwe ibiti gusa.

Abantu bagera kuri batandatu bicaye ku ntebe y'urubaho, bishimye harimo abagore batatu n'abagabo babiri bicaye imbere y'inzu igaragara ko ari nshyashya, inyuma y'abo hari amababi y'imibyare atangiye guhinguka muri bo harimo n'akana gatoya.

Ababyeyi batatu bose bafite inkoni mu ntoki bambaye udupira hejuru ndetse n'ibitenge hasi umwe muri bo ateruye akana gatoya, inyuma yabo hari umusozi uteye ibiti byinshi ndetse ikirere kirekereye kirimo n'ibicu byinshi.

Icyumba kinini cy’uruganiriro, gifite amadirishya manini y’ibirahure, abantu benshi bicaye ku ntebe zitukura, harimo abagabo n’abagore. Imbere yabo hari ameza, ariho igitambaro cy’umweru, ateretseho mudasobwa, telefone, ndetse n’uducupa tw’amazi n’utwa Fanta. Umugore umwe afite indangururamajwi.

Umugore wirabura cyane ariko uri guseka, ari mu iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, yambaye ijire y'ibara ry'umuhondo igaragaza ko atanga serivise za kimwe mu bigo bikomeye bitanga itumanaho hano mu Rwanda.

Icyumba kigari cy'uruganiriro kirimo ibyapa bigaragaza insanganyamatsiko bari kuganiraho, ababyeyi batatu bicaye ku meza hariho igitambaro cy'ikigina ndetse n'uducupa tw'amazi, umwe uhagaze arimo aratanga ikiganiro.

Icyapa gitoya kiri mu ibara ry'icyatsi, kigaragaza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, wo muri bibiri na makumya na gatatu, hariho udutente tubiri dufashe igishushanyo kimeze nk'umutwe.

Umusaza wirabura wishimye cyane udafite amenyo abiri y'imbere, yambaye umukenyero w'ibara ry'umuhondo ndetse n'ishati y'umweru, iciyemo uturongo. Afite icumu ryifashishwa n'intore mu guhamiriza ndetse inyuma ye hari uruzitiro rw'ibiti gusa.

Abantu benshi bari gufata ifoto y'urwibutso yiganjemo urubyiruko rwambaye imipira y'ubururu ndetse hagati yabo harimo umugabo wambaye karuvati ndetse n'ishati y'umweru hakaba n'umuzungu ,kurundi ruhande inyuma yabo hari inyubako nini ifite inkingi nini cyane.

Igikuta kinini kiriho utuntu dusongoye hejuru cy'amatafari ahiye, kiriho icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, handitseho ko hari ibitaro bivura indwara zo mu mutwe by'indera, iruhande rwacyo hahagaze umugabo w'umuzungu wambaye ipantaro ya kaki n'ishati ya karokaro ari guseka.

Icyumba kigari kandi gisa neza kiberamo inama abantu bicaye bazengurutse ku ntebe z'ubururu ndetse n'meza ateguye ibitambaro by'ubururu n'umweru hagati yabo hari umubyeyi wambaye ikanzu yumweru n'ikoti ry'umukara uri gutanga ikiganiro.

Umwana muto wambaye impuzankano y'ishuri yicaye ku ntebe isa umuhondo n'ameza asa nayo, inyuma ye hahagaze umuntu wambaye imyenda y'igitenge cyiganjemo ubururu, hari n'akana gato kambaye umupira w'ibara ry'umutuku, ari kurya igisuguti kandi arishimye.

Umukecuru muto wirabura kandi wishimye cyane ufite imisatsi yimvi, ari gutekera ku mashyiga arimo inkwi ntoya ndetse n'isafuriya y'umukara cyane, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse hari n'ibitoki ku ruhande rwa ruguru.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru kiriho ikarita y'isi inyuma, hariho ibirangantego bitatu, ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, ikirangantego cy'Ikigo cy'Igihugu cy'Ubuzima ndetse n'ikiranantego cya Unicef. Amagambo ariho yanditse mu mabara atandukanye harimo icyatsi, umukara ndetse n'umweru.

Abantu batanu bicaye hamwe bazengurutswe n'urutoki ndetse n'ibiti bitandukanye, bicaye mu mbuga ku ntebe zikozwe mu mbaho, umwe muri bo yambaye ikimuranga mu ijosi gifite umushumi w'ibara rya orange.

Icyumba kigari kiberamo inama, kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari amarido maremare ari mu ibara ry'umweru, ndetse ku gikuta hariho insakazamashusho nini. Hagati hari abagore babiri bafite mikoro, umwe yambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara, undi yambaye igitenge. Bari kurebana, kandi bari guseka.

Imbuga y'amabuye isa neza, hicayemo abantu benshi bari gufata ifoto y'urwibutso, abenshi muri bo bambaye imyenda y'ibara ry'umukara, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibikorwa bavuyemo.

Umusazi wisize amakara mu maso wambaye imyenda yamucikiyeho ahagaze muri kaburimbo agakapu ku rutugu ndetse n'igitebo mu kandi kaboko, inyuma ye hari imodoka y'ibeni ifite ikizuru cy'icyatsi ndetse n'ibiti bimuzengurutse.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa bukeya ku kananwa ndetse no hejuru y'umunwa n'agasatsi gaconze neza, yambaye umupira w'ibara ry'umuhondo kandi inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Umugabo wirabura wambaye ikoti ryiza cyane imbere ye hari indabyo zisa neza, iruhande rwe hari umudamu wambaye agasengeri kagaragaza ko ari mu kazi, inyuma ye hari igikuta kinini cyane cyirabura cyanditseho inyuguti nyinshi ziri mu ibara ry'umweru.

Abagabo n'abagore bahagaze ku ma esikariye asa neza kandi afite isuku. Bari gufata ifoto y'urwibutso, iruhande rw'icyapa kigaragaza igikorwa bari bahuriyemo. Ku bikuta hari imitako ya Kinyarwanda ndetse n'imigano y'ubwiza buhambaye.

Abana batoya bishimye kandi bambaye impuzankano yishuri buri wese afite igikombe cy'amazi mu ntoki ndetse n'ubururoso bw'amenyo bari kwigishwa gukora isuku mu kanwa inyuma yabo hari ibiti ndetse harimo umwe muri bo wambaye umupira w'ubudodo w'ibara ry'icyatsi.

Umukobwa mwiza wirabura, uri mu cyumba bafatiramo amafoto, afite inseko nziza y'akataraboneka n'uruhu runyerera rwirabura, inzara ziciye neza kandi yakoze akamenyetso, kagaragaza inseko ye uburyo ari nziza ndetse gatuma unayitaho.

Insakazamashusho iriho amafoto agiye atandukanye agaragaza mu kanwa k'umurwayi amenyo mazima ndetse n'arwaye ifitwe n'umuntu wambaye uturindantoki dufite ibara ry'ubururu.

Icyumba gito gisukuye cyo kwa muganga gikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo kisize amarangi y'mweru ahantu hose ndetse gifite n'idirishya rinini intebe zabugenewe ziganjemo izifite ibara ry'ubururu ndetse n'agatebe gatoya umuganga we yicayeho hari n'insakaza amashusho ntoya.

Umwana muto wirabura, ufite amenyo meza yera nk'urwererane, afite uburoso bwagenewe abana batoya yambaye ishati y'ubururu bwa juru. Inyuma ye hari igikuta cy'umweru. Arishimye kandi ari guseka.

Imiterere y'amenyo y'umuntu ari ku ifoto yafashwe n'imashini yabugenewe ikoreshwa n'abaganga bavura indwara zo mu kanwa, igaragaza imiterere y'amenyo, aho ateye, afite ikibazo ndetse n'adafite ikibazo, iri mu ibara ryiganjemo iy'umweru ndetse n'umukara.

Icyumba gisa neza kandi gifite isuku. Cyiganjemo ibara ry'umweru. Kirimo ameza ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi bafite ikibazo cy'amenyo. Harimo ibyo bakoresha boza hagati y'amenyo n'andi ndetse n'ibyo bakoresha bapima indwara zitandukanye zo mu kanwa.

Inzu ndende cyane yiganjemo ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse igizwe n'ibirahure byinshi, hejuru ku cyapa yanditseho: Hope dental center, bigaragara ko ari inzu ikorerwamo ubuvuzi bujyanye n'indwara z'amenyo, ikaba inazengurutswe n'ibyatsi bisa neza ndetse n'amabuye aconze neza.

Icyumba cyiza kandi gifite isuku kirimo ikirori kinini. Harimo umukobwa wirabura uri koza amenyo ye akoresheje uburoso. Yambaye isengeri y'ibara ry'umweru, imbere ye hateretse uducupa twinshi tw'ibikoresho tugiye dutandukanye ndetse n'ubundi buroso buri mu gakombe kabonerana.

Umuntu w'inzobe, uri mu cyumba gicanye neza, yambaye ikintu ku mutwe cy'umweru, afite agakoresho k'ibara ry'ubururu bakoresha bakura imyanda hagati y'iryinyo n'irindi, afite mu kanwa heza kandi inyuma ye hari igitambaro cy'ubururu.

Abana bato bambaye impuzankano z'ishuri, bicaye mu cyumba cy'ishuri kandi bose bafite uburoso na korogati bamanitse hejuru bishimye, biragaragara ko bari gukora ubukangurambaga bujyanye no koza amenyo.

Icyumba gito cyo kwa muganga, cyiganjemo ibara ry'umweru n'umukara, kirimo ibikoresho byo ku rwego ruhambaye, byifashishwa mu buvuzi, agatebe k'umukara ndetse n'insakazamashusho ebyiri zitandukanye.

Umusore wirabura ufite ubwanwa butari bwinshi cyane ndetse n'amenyo ateye neza afite agakoresho k'ibara ry'icyatsi gakoreshwa gakura imyanda hagati y'iryinyo n'irindi, inyuma ye harabona kandi yambaye ubusa hejuru.

Umukobwa mwiza wirabura, ufite amenyo meza, afite n'agakoresho gafasha mu gukuramo itwanda turi hagati y'iryinyo n'irindi, ari mu cyumba gisize irangi ry'ubururu bwa juru, akaba yambaye agasengeri k'ibara ry'umweru.

Uruhererekane rw'amenyo y'umuntu uko atondekanyije mu kanwa ke, ruragaragaza amenyo mazima ndetse n'amenyo arwaye ukoresheje imashini zikoreshwa kwa muganga zizwi nka sikaneri.

Igice cy'urwasaya rw'umuntu giherereyemo amenyo, kiragaragazwa n'urupapuro rutangwa n'imashini yabugenewe ifotora mu kanwa k'umuntu, irerekana amenyo afite ikibazo, ariyo asa nkacanye cyane, ndetse n'andi adafite ikibazo, ariyo atagaragara cyane.

Umugabo wirabura, ufite ubwanwa buke ku kananwa ndetse no hejuru y'umunwa, yambaye umupira w'ibara ry'umweru, ndetse afite agakoresho bakoresha bavana ibiryo hagati y'iryinyo n'irindi. Arishimye kandi ari guseka cyane.

Icyumba cy'ishuri gitoya kirimo inkuta z'ibara ry'umuhondo ndetse n'ikibaho cyirabura, umuganga wambaye itaburiya n'agapfukamunwa, ari kwigisha umwana muto wambaye ishati y'icyatsi uburyo boza amenyo akoresheje imfashanyigisho yazanye. Inyuma yabo hari abantu bahagaze harimo n'umuzungu.

Abana batatu bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, bari koza amenyo, bafite uburoso bw'mabara atandukanye, umwe ni umuhondo, undi ni icyatsi, undi ni ubururu, barishimye kandi bari ahantu heza hari n'ibiti.

Umugabo wubatse umubiri uri guseka kandi yishimiye igikorwa ari gukora, afite akagozi kabugenewe kamufasha gukura imyanda hagati y'iryinyo n'irindi ari mu cyumba gicanye neza cyiganjemo ibara ry'umweru ari guseka kandi afite uruhu rwiza cyane.

Icyumba kinini cyane kirimo itapi nziza n'ibikuta bifite ibara ry'umuhondo werurutse, ameza ariho igitambaro cy'ubururu, abadamu babiri bafite impapuro mu ntoki, umwe yambaye marinete, undi ntayo yambaye, hari ibyapa inyuma yabo bigaragaza igikorwa kiri kubera aha hantu.

Amenyo y'umuntu uyarebeye mu byuma bifasha kurebamo imbere mu mubiri w'umuntu ahangaha turabona amenyo yose uko agereranyije ayo hasi n'ayo hejuru aba afite ikibazo n'adafite ikibazo.

Icyumba kinini cyane kirimo urumuri ruhagije, gisa neza kandi gifite isuku. Kirimo intebe eshatu, zifite ibara rya kaki, utubati twiza ndetse n'idirishya rinini rigizwe n'ikirahure.

Umugabo mwiza ufite uruhu rukeye cyane no mu kanwa heza rutarabaho, afite ubwanwa buconze neza kandi yambaye ishati ikozwe mu igoboyi ndetse n'agapira k'ikigina cyerurutse, inyuma ye hari inzu ndende kandi akazuba kari kumurasiraraho.

Icyumba gitoya gifite isuku umuganga mutoya wambaye itaburiya y'umweru ari gupima umuvuduko w'amaraso umusaza ukuze wambaye ishati ya kake ufite n'ubwanwa bw'imvi cyane, inyuma yabo hari amarido y'umweru ndetse muganga yicaye no ku ntebe ifite ibara ry'umweru.

Icyumba gito gisa neza, kirimo inzitiramubu, amarido y'ubururu ndetse n'idirishya rinini cyane ry'ikirahure, umusaza wambaye ishati y'ubururu, ari kugerageza guhagurutswa n'umuforomokazi we. Hari agatara gato kari iruhande rw'uburiri bwe.

Icyumba gito giteguye neza, uburiri buriho amashuka y'umweru, umusaza wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro yirabura, afashwe mu maboko n'umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru ndetse n'umugore wambaye agapira k'umuhondo.

Abantu bahagaze ku murongo ari benshi, imbere yabo hari ibikoresho byifashishwa n'abantu bageze mu zabukuru igihe batagigifite imbaraga zo kugira ibintu bimwe bikorera, inyuma yabo hari ibikarito byinshi ndetse n'icyapa kinini kigaragaza igikorwa barimo hari igiti kinini ndetse hari n'amatente bicayemo.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zo kwita ku bageze mu za bukuru, umusaza wambaye agapira k'umuhondo ufite n'imvi nyinshi ari gusunikwa n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ufite n'akantu gapima uko umutima utera mu ijosi, inyuma yabo hari abandi basaza n'abakecuru bicaye ku meza akozwe mu mbaho, ndetse hari n'amadirishya manini y'ibirahure.

Icyumba gito gifite mota ziganjemo ibara ry'umweru umusaza ufite imisatsi y'imvi ndetse n'ubwanwa bw'imvi, ari guseka akora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'ubururu n'agakoresho k'ubururu mu ntoki, umugore wambaye itaburiya y'umweru ufite n'akantu mu ijosi kamufasha kumva uko umutima utera, ari ku mufasha gukora iyo myitozo.

Icyumba kigari kandi kiza gifite amabara yiganjemo ay'umweru ku bikuta, gifite akabati karimo insakazamashusho nini, ameza manini y'urubaho, abantu babiri harimo umwe ugaragara nk'aho ari mukuru ndetse n'akandi kana gatoya, bari gukinaho umukino kuri ayo meza.

Icyumba gito gisa neza cyiganjemo ibara ry'umweru, ndetse kirimo n'imbaho nyinshi, abantu babiri, umwe ni umugabo, yambaye ishati y'ubururu kandi asa nk'ukuze cyane, afashwe mu kuboko n'umugore w'umuzungu, wambaye umwenda w'ubururu ndetse n'agapira k'ibara ry'ivu inyuma yako. Ari kumufasha kumanuka ku ma esikariye.

Umugore usa nk'ukuze wambaye amarinete ku maso n'agapira k'ibara ry'umuhondo, ari gusuka ibinini, abishyira mu kiganza ke, ku meza asa neza cyane, inyuma ye hari akabati gateretseho utuntu tugiye dutandukanye n'idirishya rinini cyane ry'ikirahure.

Icyumba gitoya gifite isuku cyiganjemo ibara ry'umweru, umugabo n'umugore bashaje bafite imvi ku mitwe yabo, ameza y'umweru ateretseho amarinete ndetse n'ibikombe n'utundi dukoresho hariho n'ibinini, inyuma yabo hari agakoresho kabafasha gushyushya amazi.

Abagabo benshi, bakuze ,bicaye hasi barambije amaguru, bari mu cyumba gifite irangi risa nabi cyane, harimo umwe urikuboha ikintu kimeze nk'igitebo bigaragara ko arimo arigisha abandi, hakaba hari n'undi ugaragara nk'aho ari muto muri bo uri kubasobanurira ibintu bigiye bitandukanye.

Abagabo n'abagore bishimye cyane, harimo bamwe bambaye imyenda y'ibitenge bari gufata ifoto y'urwibutso bahagaze rwagati mu murima wibishyimbo n'ibigori, bamwe bafite udufuni abandi bafite terefone zigendanwa harimo n'abagabo babiri bambaye ingofero mu mutwe.

Icyumba gito cyinkuta z'umweru, kirimo igitanda, cyicayeho umukecuru wambaye amarinete ndetse ufite imvi nyinshi mu musatsi, yambaye agapira k'ibara ry'ubururu bwijimye kandi afite igikombe cy'amazi mu ntoki.

Icyumba kiza giteguye, kirimo agatara ko ku meza keza cyane, hicayemo abantu babiri, umwe ni umusaza, bigaragara ko akuze cyane, undi ni umuganga arimo aramupima umuvuduko w'amaraso.

Umusaza wirabura ufite imvi mu mutwe ndetse no mu bwanwa, asomye umukecuru na we wirabura wishimye cyane ufite igitambaro gitukura mu mutwe ndetse n'agakoti kajya gusa ubururu, inyuma y'abo harakeye kandi akazuba kari kubaviraho.

Icyumba kigari kandi gisa neza gifite amadirishya manini y'ibirahure, umugabo wambaye umupira w'umuhondo usa nk'aho akuze cyane yicaranye n'umugore ufite imvi nyinshi wambaye agapira k'ikijuju, ari kunywa isosi mu tubure dusa ubururu ndetse hejuru yabo hahagaze umuganga wambaye ikimuranga mu ijosi ndetse n'amarinete ku maso.

Umurima mugari wahinzwemo igihingwa cy'icyayi, abagore bishimye, barimo baranoga icyayi, bashyira mu bitebo byabo, biri inyuma yabo. Izuba riri kuva, kandi hirya yabo, hari n'insina. ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ubusitani bwiza buri kuvamo akazuba katari kenshi. Abantu babiri basa nk'abakuze umugabo n'umugore bari gukora imyitozo ngororamubiri aho hafi. Umugabo yambaye agapira k'ibara ry'ivu, umugore yambaye agapira k'icyatsi kerurutse cyane.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi kitari kubona cyane, imbere hari ababyeyi babiri basa nkabakuze, umugabo n'umugore bambaye imikenyero ya kinyarwanda, umugabo yambaye n'ingofero y'urugara y'ibara ry'umukara, umugore afite imvi nyinshi cyane ndetse afite n'agakapu gato mu kwaha kw'iwe.

Igisharagati cy'ibara ry'umweru cyicawemo n'abantu bagaragara nk'abakuze, harimo umwe uhagaze hejuru yabo wambaye ijire y'ubururu ndetse n'abandi bari kubagendagendamo bambaye imyenda yirabura, hari izuba ryinshi kandi hazengurutswe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Umusaza ufite imisatsi yiganjemo iy'imvi, yicaye mu cyumba gisa neza, imbere ye hari akameza gakozwe mu mbaho, yambaye akamashini kamufasha gupima umuvuduko w'amaraso ye ndetse n'imiterere y'umutima ye, yambaye ndetse n'ishati ifite ibara ry'ibihogo.

Ababyeyi birabura bicaye mu isoko baganira hafi ya bose bateze ibitambaro mu mutwe, imbere y'abo hari amabasi atatu yuzuye inyanya, inyuma y'abo hari imbuto zihishije cyane, hari inkingi zishinze hagati muri bo ndetse biragaragara ko bishimye.

Inzu ibona neza yiganjemo ibara ry'umweru irimo igiti cy'icyatsi, abantu babiri umusaza ndetse n'umwana muto bari gukina imikino yo kuri murandasi, intebe nziza ndetse biragaragara ko umugabo ashobora kuba abana n'ubumuga.

Ubusitani bwiza kandi butoshye burimo ibiti birebire bifite amababi y'icyatsi aho bajugunya imyanda, abasaza babiri bafite uducupa tw'amazi mu ntoki bari gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imipira y'umweru ndetse bose barogoshe ntabwo bafite umusatsi.

Abantu bari mu kigero k'imyaka itandukanye, kuva ku bana, kugeza ku bakuru cyane, bari ahantu hari izuba ryinshi ndetse inyuma yabo, haparitse imodoka ifite ibara ry'umweru.

Ahantu heza hari ibiti by'icyatsi byinshi bitanga ubuhehere n'umwuka mwiza, abagore babiri bari kuhakorera imyitozo ngororamubiri, bishimye cyane ku bigaragara ku isura.

Abantu babiri bigaragara ko bishimye bari mu gikoni cya kizungu, umwe w'umusaza yicaye ku meza y'umweru cyane ateretseho imbuto nyinshi, undi ahagaze imbere ye ari kumusukira icyo kunywa mu kirahure.

Icyumba gicanye neza cyane kandi kibona, harimo abantu babiri, umwe ugaragara nk'aho akuze, wambaye umupira w'ibara rya oranje n'amarinete ndetse akaba ateze n'igitambaro mu mutwe, undi amuhagaze hejuru bigaragara nk'aho ari muto kuri we ndetse asa nk'aho ari umuganga ushinzwe kumwitaho.

Ababyeyi babiri bari gukorera imyitozo ngororamubiri mu busitani bwiza bugizwe n'indabyo n'ibiti n'ubwatsi bw'icyatsi kibisi, bambaye imyenda yabugenewe gukora imyitozo ngororamubiri kandi barishimye ku isura.

Icyumba kigari gisa neza kandi cyiganjemo ibara ry'umweru ku nkuta zacyo, gifite amadirishya manini yinjiriramo urumuri, umusaza wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara ari kutwuma tubiri agerageza kugenderaho afashijwe n'umuforomo wambaye imyenda yirabura.

Icyumba gito gisa neza kandi kirimo amarido yumweru, gifite ameza akozwe mu rubaho, yicayeho abantu babiri : umusaza wambaye umupira w'ubururu ndetse n'umukecuru wambaye umupira utukura, bari gukina umukino w'abantu bakuru.

Abantu benshi bicaye mu gacaca keza k'icyatsi, kazengurutswe n'ibiti, harimo n'umuzungu wishimye uteruye umwana ndetse n'umubyeyi uri kudoda igitebo aganiriza bagenzi be.

Icyumba kigari gisa neza, kiriho ibikuta byiganjemo ibara ry'umweru, ifoto nini iri ku gikuta ndetse n'ameza manini yicayeho abadamu batatu harimo umwe ufite imvi, bari gukina amakarita kandi barishimye.

Icyumba cyiza gisize ibara ry'umweru, kirimo igitanda kigari cy'ibara ry'umukara ndetse n'agatara ko ku ruhande, kirimo abantu babiri umukecuru ugaragara nk'aho akuze cyane ndetse n'umuganga uri kumufasha gukora imyitozo yoroheje ngororamubiri.

Icyumba gicanye neza kirimo intebe z'ibara ry'umweru, umusaza usa nk'ukuze, yicaye mu gatebe gato, yegeranye n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe, ari kugerageza kumukoresha imyitozo ngororamubiri ijyanye n'imyaka ye.

Umugabo ushaje cyane ufite ubwanwa bw'imvi n'umusatsi w'imvi ari koga, bamumennyeho amazi, ari mu cyumba gicanye neza kandi kibona. Arahumirije kugira ngo amazi atamujya mu maso.

Abagabo n'abagore bari mu myaka yabo y'izabukuru, bari gukora imyitozo ngororamubiri ibafasha kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, bari mu cyanya cyiza kirimo ibiti n'ubwatsi butoshye, bituma bahumeka umwuka mwiza kandi bakamererwa neza.

Abantu bishimye cyane kandi banezerewe, bari mu kigero cy'imyaka itandukanye, kuva ku batoya kugeza ku bakuru. Harimo abambaye imyenda y'umuhondo ndetse bicaye ku ntebe y'ubururu.

Umukecuru wirabura unanutse kandi wambaye igitenge cyiganjemo amabara y'umuhondo n'icyatsi inyuma ye hari ibiti bifite amababi y'icyatsi atoshye imbere ye hari ibishangara ari gukoresha acana mu ziko riteretseho agasafuriya gapfundikijwe kandi.

Icyumba gitoya gifite isuku kandi gicanye neza mu nguni yacyo hari igihingwa umukecuru usa nk'ukuze yicaye kumeza magari ari guhabwa ikinini n'umuhagaze hejuru wambaye nk'abaganga afite ikirahure kirimo amazi ndetse ku meza yateretse n'agakarito k'ibara ry'umuhondo.

Icyumba gisa neza kandi gicanye, gifite ibikuta byiganjemo ibara ry'umweru, hari intebe ebyiri z'ibara ry'ikigina, harimo abagore babiri, umwe ugaragara nk'ukuze yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga, cyangwa se bafite intege nkeya batabasha kugenda, undi wambaye impuzankano z'abakora kwa muganga, ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Igice cy'umuhanda gifite isuku kandi gisa neza inkengero zawo zisize amabara y'umukara n'umweru, hakurya yawo hari ibyatsi ndetse n'imikindo abantu bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, bari gutambuka hari n'abafite udupfukamunwa mu ntoki.

Igikoni cya kizungu kigizwe n'ibara ry'umweru ryiganje, kirimo abagore babiri basa nk'abakuze, umwe ari gutegura imboga n'imbuto, undi afite ikirahure cy'umuvinyo, arimo aramuganiriza muri icyo gikorwa.

Icyumba gito kandi kiri kugeramo urumuri rukeya ku bikuta byacyo hari ibyapa byifashishwa mu bukangurambaga nk'ubwo konsa umwana igihe gikwiye ndetse n'ubwo gukingiza umwana munsi yabyo hicaye ababyeyi bane bose bateruye abana bategereje serivisi za muganga.

Ahantu hari gutangirwa serivisi z'ubuzima, hari ameza agiye ariho ibipapuro byinshi ndetse n'ibikarito, intebe ebyiri zicayeho umuganga wambaye imyenda yabugenewe, udupfukamunwa ndetse n'udupfuka ntoki indi ntebe ikicarwaho n'umurwayi nawe wambaye agapfukamunwa.

Abantu benshi bahagaze kumurongo utambitse, harimo n'abashinzwe umutekano, biragaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso, bitewe n'igikorwa bavuyemo cyo kurwanya igwingira, kuko ku cyapa kinini kiri inyuma yabo niko handitse.

Icyumba kigali kiberamo inama hari amashusho nini igaragaza ibikorwa biri kuberamo iri imbere ndetse n'icyapa kinini cyane kigaragaza inama ikigamije, hari intebe enye zirabura ndetse n'utumeza twazo zifite n'indangururamajwi, hakaba n'uri gufata amashusho imbere y'umuntu uri kuvugwa.

Icyumba gito kiri gutangirwamo serivisi z'ubuzima inyuma hari icyapa cyiganjemo ibara ry'icyatsi n'inyuguti zandikishijwe ibara ry'umweru, kivuga ko hari gutangirwa inkingo za kovide cumi n'icyenda, hari abantu batatu babiri bambaye amajiri y'akazi ndetse n'umwe wicaye wambaye umupira w'ibara ry'ubururu uri gukingirwa.

Icyapa kigaragaza ubukangurambaga bwo kongerera inzego z'ubuzima zo mu Rwanda, imbaraga ndetse hariho n'umuganga wishimye cyane kandi wambaye imyenda yabugenewe kugira ngo akore ako kazi kiri ibara rya move.

N'icyapa gito cyiganjemo amabara y'ubururu n'umweru n'umuhondo cyanditseho amagambo akangurira abantu kwikingiza Korona virui, hariho amafoto y'umuntu uri gukingira undi, hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima Ara Bi Si.

Icyumba kinini cy'uruganiriro, kirimo ibyuma ndangururamajwi bitandukanye, harimo ingoma Nyarwanda, abana bicaye ku ntebe z'ubururu, bateze amatwi, umwigisha nawe wishimye ari kubaganiriza ibyo yateguye kubabwira.

Ikirango kiri kwerekana ubukangurambaga bugiye gukorwa ku ndwara ya diyabete, hari igihe buzamara, ibikorwa bizakorwa, n'amatariki bizakorerwaho, ndetse n'abafatanyabikorwa muri ubwo bukangurambaga.

Abantu benshi bambaye neza kandi basa neza, bari gufata ifoto y'urwibutso mu cyumba gisukuye cyiganjemo ibara rya orange ku gice cyo hejuru , inyuma yabo hari icyapa kigaragaza igikorwa bavuyemo, kiriho ikirangantego cy'igihugu ndetse n'ikirangantego cy' Afurika yunze ubumwe.

Icyumba kinini cy'uruganiriro, kirimo abantu biganjemo abambaye ibara ry'umweru. Bicaye ku ntebe z'umweru ndetse bari guhabwa ikiganiro, ku bintu bigiye bitandukanye. Umwe muri bo ari gufata amashusho, agaragaza uburyo igikorwa kiri kugenda.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ubuvuzi buhambaye giteguye neza kirimo abaganga bagera kuri batanu bambaye imyenda yabugenewe udupfukamunwa, uturindantoki ndetse n'udupfuka imisatsi, hari amashuka y'ubururu ari iruhande rwabo ndetse n'imashini zihambaye n'imigozi yazo, hari n'agashashi ka serumu.

Ikirango kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, kigaragaza ubukangurambaga bugiye gutangira kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Kiriho insanganyamatsiko yabwo, amatariki buzaberaho, ndetse n'abaterankunga n'abafatanyabikorwa babwo.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo insakazamashusho imbere, ibibaho bibiri bitoya ndetse n'icyapa kigaragaza ibyo bari kuganiraho. Hari abantu bicaye, bakurikiye umwigisha ndetse umwe muri bo afite mudasobwa.

Icyapa kinini gifite ibara ry'ubururu n'inyuguti nyinshi z'umweru, mu bukangurambaga bwo gukoresha imiti irinda abantu kwandura agakoko gatera SIDA, hasi hari abafatanyabikorwa ndetse n'abaterankunga muri icyo gikorwa, hariho n'udutima dutoya, kamwe kanditseho ko turi ikinyejana kigiye guhagarika ubwandu bwa SIDA.

Icyapa gito cy cyiganjemo ibi ry'yumweru gihamagarira abantu kwitabira umunsi mpuzamahanga wa diyabete kiriho ifoto y'inyubako ya convention center ndetse n'izindi nyubako zitandukanye zikomeye muri uno umujyi wa Kigali.

Icyapa gikozwe mu buryo bw'ibizeru, kigizwe n'amabara y'ubururu agiye atandukanye, bitewe n'uburyo uri kubireba ku jisho, guturuka hejuru kugera hasi cyandikishijwe inyuguti z'amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Icyumba gitoya kirimo ibiti bibiri biriho amadarapo ndetse n'igikuta gisa icyatsi cyerurutse, abantu babiri bambaye neza bafatanyije icyapa cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira, imbere yabo hari intebe y'umukara.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bamwe baricaye abandi barahagaze, harimo n'abambaye udupfukamunwa, abenshi muri bo bambaye imyenda yiganjemo iy'ibara ry'iroza, inyuma yabo hari icyapa kinini kigaragaza gahunda barimo.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bwo ku rwego ruhambaye. Harimo umuganga n'umufasha we bafite ibikoresho byabugenewe bituma bakora ubuvuzi bwabo neza, kandi bambaye imyenda yabugenewe, ibarinda ndetse ikanarinda n'uwo bari kuvura kugira icyo ari cyo cyose cyamuhumanya.

Icyumba gito kirimo amakaro y'ubwoko butandukanye n'ibikuta by'amabara y'umweru icyapa gitoya cyanditseho ngo duteze imbere kwita ku buzima muri east africa abantu babiri umugabo n'umugore bari gufata ifoto y'urwibutso imbere y'icyo cyapa.

Icyapa cyo kumenyesha abantu ko hari inama izaba ibura umunsi umwe ngo ibe, hariho amatariki n'amasaha n'igihe izabera ndetse n'aho izabera, hari n'abaterankunga muri iyo nama ndetse hariho ifoto y'uruhinja rusinziriye ubona ko rwishimye.

Icyumba kirimo urumuri ruke kandi kirimo abantu benshi, bambaye impuzankano zo kwa muganga; udupfukamunwa, uturindantoki ndetse n'ibindi bikoresho bibafasha mu kwirinda bitewe n'uburwayi bagiye gukora ubushakashatsi cyangwa se gukurikirana.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu bagera kuri batanu, bambaye imyenda yabugenewe kugira ngo bakore igikorwa cyo kuvura umurwayi, harimo ibyuma bihambaye bitandukanye, bikoreshwa mu buvuzi ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda bari kuvura.

Icyumba gito, gisa neza kandi gifite isuku ihambaye cyane, cyiganjemo ibara ry'umweru ku bikuta byacyo ndetse n'aho gukandagira, kirimo imashini zihambaye z'ubwoko bwose zifasha mu buvuzi, hari intebe y'umukara ndetse na mudasobwa ifasha abaganga.

Icyumba cyiganjemo ibara ry'umweru kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga. Harimo insakazamashusho ndetse n'ibijyana na yo. Hari umukobwa mwiza cyane wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, ndetse yambaye n'amarinete ku maso. Imisatsi miremire, ari gukoresha mudasobwa.

Icyumba kinini gisa neza kandi giteguye, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ubwoko bwinshi bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri n'imyitozo nkomezamubiri, hari n'ikirahure kinini cyo kwireberamo.

Inzu ebyiri zubakishijwe amatafari ahiye zisa neza, zisakajwe amabati y'icyatsi kibisi hari amatara maremare abonesha nijoro, ubusitani buconnze neza n'utuyira twabwo, ndabona ibigega bifata amazi y'imvura n'ibyicungo abana bicungaho iyo bari gukina.

Inyubako nini cyane ifite imiryango migari ndetse n'amadirishya hejuru y'imiryango manini y'ibirahure, imbere yayo hari imbuga nziza y'amabuye, icyapa kiri hejuru kigaragaza ko haberamo ubuvuzi bw'indwara z'amaso.

Icyumba kinini kiganjemo ibara ry'umweru gifite isuku yo ku rwego rwo hejuru, gifite n'akumba gatoya gafite amadirishya y'ibirahure, mo imbere harimo utubati dufite amapine ndetse gicanye neza kirimo na kamera zifata amashusho.

Icyumba gito cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byo kwa muganga. Abagore babiri umwe wambaye umwenda w'ubururu ugaragara nk'aho ari umuganga afite n'agakoresho kumva uko umutima utera mu ijosi rye. Yambaye amarinete. Ahagararanye n'undi wambaye imyenda y'umweru uteruye uruhinja.

icyumba gito kandi gisa neza cyo kwa muganga cyiganjemo ibara ry'umweru ku nkuta zacyo, gifite amadirishya abiri atabonerana, igitanda cy'ibara ry'umukara ndetse n'akamashini kari iruhande rw'igitanda, hari akabati gafite ibara ry'umuhondo kari munsi ya meza yegereye ku gikuta cyo hirya.

Inyubako nziza y'igorofa isize amarangi yiganjemo ibara ry'umweru, ifite icyapa kinini cyanditseho ngo kaminuza nkuru y'igihugu cyu'u Rwanda hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishatiumutuku uri kunyura mu nzira y'amabuye, iruhande rwe hari ibiti byinshi ndetse n'indabyo zigiye zitandukanye.

Icyumba kigari cyo kwa muganga kiganjemo ibara ry'umweru hari intebe zirabura ndetse n'ameza ari igitambaro cy'ubururu abaganga bamwe bari kwita ku bantu bakuze harimo umubyeyi umwe wicaye mu kagare ufite n'ikiringiti ku maguru.

Icyumba gito cyo kwa muganga gifite isuku kandi kirimo ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru, ibikuta byacyo byiganjemo ibara ry'umweru n'amarido afite ibara ry'ikigina, hari agatanda gatoya gashashe neza ndetse n'imashini ifite insakazamashusho ebyiri hasi no hejuru.

Icyumba kigari kandi gisa neza cyo kwa muganga, gifite ibara ry'ubururu hasi aho bakandagira, hari umugabo wambaye itaburiya ndetse n'agafunga umusatsi k'umweru, yambaye agapfukamuwa gatukura, ari kureba mu nsakazamashusho ibintu bigiye bitandukanye, hirya hari abantu benshi begeranye, harimo umwe wambaye agapfukamunwa n'umupira w'umweru.

Inzu nini zegeranye, zicanye amabara y'umuhondo ndetse zisize amarangi yiganjemo ibara ry'umweru, icyapa kiyobora abantu banyura muri izo nzu ndetse n'ubusitani buto butarakura buconze neza n'inzira zabwo, igiti cy'umuvumu kinini giteye hagati ndetse n'ikirere gike cyane.

Icyumba kinini kandi gifite isuku iri ku rwego ruhambaye. Kirimo ibikoresho ndetse n'imitako igizwe n'amabara atandukanye, yiganjemo ubururu, icyatsi, umuhondo, orange ndetse n'andi agiye atandukanye. Hari ameza ariho mudasobwa ndetse n'intebe z'amabara atandukanye, wakwicaraho uri kuganira.

Icyumba kigari cyo kwa muganga, kirimo intebe abarwayi bategerezaho ibizamini, hari imiryango y'ibirahure ndetse hari n'imashini ifasha mu kuzimya inkongi y'umuriro, hari ndetse n'igihingwa hamwe n'insakazamashusho ntoya, bari kureberaho amashusho.

Icyumba gito gisa neza kandi gisukuye cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi z'ubuzima bujyanye n'indwara z'amaso, inyuma hari igikuta gishushanyijeho ibishushanyo binini by'amaso, hari ameza yiganjemo ibara ry'umweru n'icyatsi ndetse hari intebe ebyiri zitandukanye zisa n'ibara ry'ubururu n'imashini yabugenewe ifasha mu gusuzuma indwara z'amaso.

Abantu bishimye bari gufata ifoto y'urwibutso ku gikuta cyanditseho Butaro Hospital, inyuma yabo hari inzu yubakishijwe amakoro ndetse n'ibiti byiza bibazengurutse by'ibara ry'icyatsi.

Icyumba kigali cyo kwa muganga kirimo imashini ihambaye cyane, ireba imbere mu mubiri w'umuntu, hari isaha ku gikuta gisa umweru ndetse hakaba n'insakazamashusho ntoya ifashe kuri ya mashini, hari ifoto nini igaragaza ikiyaga iri iruhande kuri icyo gikuta.

Inyubako nini z'ikigo gitanga serivisi z'ubuzima zubakishije amabuye ahiye, abantu bicaye ku ntebe y'urubaho ndetse n'icyapa kinini cy'ibara ry'umweru kirimo n'amabara y'umutuku n'ubururu, umuntu uhagaze munsi y'ikigega ndetse n'umwana uhoberanye n'umuntu mukuru.

Icyumba gito cyo kwa muganga gifite isuku kandi gicanye neza, gikorerwamo ibijyanye no gusuzuma ibizamini by'abarwayi, hari akabati gato gafiteho mudasobwa hejuru ndetse n'intebe munsi yako. Umuganga wambaye itaburiya ndetse n'agapfukamunwa n'uturindantoki tw'ubururu afite n'agacupa mu ntoki.

Abantu benshi biganjemo abambaye amataburiya y'ibara ry'ubururu ndetse hakaba harimo n'ababikira n'abapadiri, bari gufata ifoto y'urwibutso, bamwe basutamye imbere abandi bahagaze inyuma, inyuma yabo hari inzu y'ababyeyi yatashywe yubatse neza mu matafari ahiye ndetse isakaje n'amabati y'ubururu.

Icyumba gito cyo kwa muganga, cyiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu hasi, kirimo ibikoresho bitandukanye byabugenewe, harimo udutanda tubiri turi mu ibara ry'umukara, udutebe tubiri na two turi mu ibara ry'umukara, ndetse n'isakazamashusho ifite ibara ry'ubururu.

Icyumba kigari cyo kwa muganga cyiganjemo ibara ry'umweru, gifite isuku ihambaye, kirimo imashini yifashishwa mu kureba imbere mu mubiri, hari agatebe gatoya ndetse n'insakazamashusho ntoya mu nguni, hakaba n'umuryango ugizwe n'ikirahure kitabonerana.

Icyumba kigari cyo kwa muganga gisukuye kandi gifite inkuta ziganjemo ibara ry'umweru, utwapa tubiri turi ku gikuta kimwe, akavaze gato karimo igiti gifite amababi y'icyatsi, ndetse n'umuryango muto ufite ibirahure bitabona ufite akapa hejuru kiganjemo amabara y'umutuku.

Inyubako nini kandi nziza yo kwa muganga yubakishije amatafari ahiye yanditseho ngo Laboratwari, imbere yayo hicaye abantu bicaye ku ntebe y'urubaho ndetse n'abandi basutamye bicaye kuri sima hasi, hari inzira imanuka ikikijwe n'indabyo z'amabara y'icyatsi n'umuhondo.

Inyubako nini yo kwa muganga ifite amagorofa abiri imbere handitseho icyapa cyandi cyangwa ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, hari ibihingwa imbere yacyo ndetse abantu bahagaze ku igorofa hasi n'iyo hejuru hari akapa gato k'umweru kari mu ibara ry'umutuku kandi isakaje amabati y'ibara ry'ubururu.

Imbuga ngari iri mu marembo yinjira mu bitaro bya Kabgayi, hari inzira ndetse n'ubusitani buteye ku ruhande rw'inzira, burimo n'ibiti bitoya bitarakura cyane. Hari umugabo utwaye igare, ndetse hakaba n'abandi bambaye imyenda y'ubururu batagaragara. Hakurya hari imisozi, ndetse hari n'amatara aboneshereza nijoro.

Igiti cy'umuvumu kizengurukijwe amabuye aconze neza inyubako zifite ibikuta byiganjemo irangi ry'umweru ndetse n'amabati ajya gusa na oranje, abantu benshi bicaye ku gasima ndetse n'ubusitani buconze neza.

Icyumba kigari giteguye neza gifite isuku kandi gifite ibikoresho byose bikenewe byo kwa muganga, hari n'ibitanda imashini zipima imitima n'ibindi bikoresho by'isuku, yewe n'amarido atandu icyumba n'ikindi.

Amazu meza yubatswe mu buryo bugezweho, harimo ayubakishijwe amatafari ahiye, ndetse n'andi yubakishijwe amatafari ajya kumera nk'amakoro. Ubusitani bwiza butarakura cyane, ndetse n'utuyira tunyuramo dufite isuku, tumeze neza.

Inzu yagenewe gukinrwamo abarwayi ifirimo ibitanda bitatu bishashe kandi bimeze neza irimo na mararido ikenewe kubitandukanya igihe harimo abarwayi harimo ndetse n'ibikoresho by'ibanze wakwifashisha igihe umurwayi yabagize ikibazo irasa neza kandi ifite isuku yo ku rwego rwo hejuru.

Icyumba kigari kandi gifite isuku cyo kwa muganga, kirimo ameza menshi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi buhambaye, hari za mudasobwa ndetse n'udutebe duto tw'ibara ry'umukara.

Icyumba kigari cyo kwa muganga gifite isuku yo ku rwego rwo hejuru kandi gicanye neza, inkuta zifite amarange yiganjemo ay'umweru ndetse na kaki, ibyumba bibiri byanditseho umubare rimwe n'umubare kabiri bifite imiryango y'ibirahure migari.

Umuryango munini w'inzu baguriramo imiti, hejuru hari icyapa kinini kigaragaza amazina y'uko yitwa ndetse n'amazina y'ubwishingizi bwose bakorana na bwo, harasa neza kandi hari ikirere cyiza.

Imbuga nini irimo utubuye duto duto tw'urusakabuye izengurutswe n'indabyo ziconze neza, inyuma yazo hari inyubako ifite amatafari ahiye ndetse n'icyapa cyanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Ruherere.

Icyumba kigari gisa neza kandi giteguye mu imbere gifitemo akandi kumba gato kitwa barinteyina kifashishwa mu gukora inkingo zigiye zitandukanye, kasize irangi ry'umweru amadirishya mato ndetse n'inzugi ntoya zitabonerana.

Icyumba gito giteguye neza kandi gisukuye, ibikuta bisa umweru ndetse n'amadirishya manini cyane y'ibirahure, hari ameza ateretseho ibikoresho runaka, umugore ufite imisatsi y' imvi, wambaye imyenda y'umweru kuva hasi kugera hejuru ari gukora mumashini runaka.

Icyumba kinini kirombereje kandi gifite isuku ihambaye, gifite ibikuta bisa umweru ndetse n'inzugi zijya gusa umutuku, kirasa neza kandi kiriho akabara k'ubururu gatambitse kuri buri gikuta, kerekeza ku rugi rw'inyuma.

Inzu z'amoko atandukanye, harimo imwe yubakishije amabuye y'amakoro, hari inzira zisukuye ndetse n'ubusitani buconze neza, idarapo ry'igihugu ndetse n'amazu ari hepfo y'ibara ry'umweru.

Inyubako nziza kandi zubatswe mu buryo bugezweho, imwe ya ruguru yubakijwe amatafari ahiye, indi yo hepfo yubakishijwe utubuye dusa nk'amakoro, hari ubusitani butangiye gukura n'ibiti bikiri bitoya n'inzira zinyura hagati muri bwo.

Igikuta kinini cyanditseho izina ry'ibitaro byitwa Legacy mu ibara ry'icyatsi, imbere yacyo hari abantu bambaye impuzankano z'abakozi bo kwa muganga ndetse bose bambaye udupfukamunwa, bazamuye igipfunsi hejuru kandi biragaragara ko bishimye.

Inyubako nini cyane iri ahantu heza kandi hari ikirere kiza, yubakishije amatafari ahiye kandi isakaje amabati y'ibara rya orange, hari ubusitani buto buto butarakura n'utuyira tubunyuramo. Hari amatara akoreshwa n'imirasire y'izuba.

Icyumba kigari cyo kwa muganga gifite isuku yo ku rwego rwo hejuru, inkuta z'umweru ndetse n'idirishya rinini ry'ikirahure, agatanda gasa ubururu gashasheho ishuka y'umweru, insakazamashisho ebyiri ndetse n'agakoresho bakoresha birukankiraho.

Inzu nziza ebyiri zizengurutswe n'igikuta cy'amatafari y'amakoro, zisize irangi ry'umweru zisakajwe amabati atukura, ziriho ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, utuyira dusukuye neza tunyura mu busitani duconze neza.

Icyapa kinini kiganjemo ibara ry'umweru kigaragaza amazina y'ibitaro byo kwa Nyirinkwaya ndetse na serivisi bitanga, uruzitiro rwabyo ndetse n'amwe mu mazu agize ibyo bitaro. Hari n'ibendera ry'ibihugu byo mu burasirazuba byunze ubumwe hagati yabyo.

Inzu nini yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isakajwe amabati y'ibaraa ry'ubururu, imbuga yayo irimo utubiye dutoya ndetse igihande kimwe ni pasiparume ziconze neza, imbere ku ibaraza hari utuvaze tubiri turimo ibihingwa ndetse n'umugozi muremure w'ibara ry'ubururu ugaragaza ko itarafungura.

Icyumba kinini cyane cyo kwa muganga kiganjemo ibara ry'umweru. Amarido y'ubururu atandukanya igitanda n'ikindi ndetse n'abaganga benshi bambaye imyenda ibapfutse umubiri wose ndetse n'udupfukamunwa, biragaragara ko hano bari kuvura indwara na bo ishobora kubanduza.

Umuforomokazi wirabura wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ari gutembera mu cyumba kigari cyo kwa muganga kirimo ibitanda by'ibara ry'umweru amakarito y'ibara ry'ubururu, ndetse n'udukuta dutoya dutandukanya ibitanda dufite ibara ry'icyatsi.

Abaforomokazi batatu bambaye impuzankano zabo z'akazi ziganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'udukingamusatsi twabo, inyuma yabo hari inzira, hakurya y'inzira hari igiti cy'umuvumu, hepfo hari imboga ndetse hari n'ibiti by'umukindo inyuma yabo.

Icyumba kigari gisa neza kandi gifite isuku, gifite amadirishya minini y'ibirahure ndetse n'inkuta ziganjemo ibara ry'umweru, ibitanda byo kwa muganga bishashe neza ndetse n'amarido atandukanya igitanda n'ikindi.

Icyumba kinini cyo kwa muganga gisa neza kandi gifite isuku cyiganjemo ibara ry'ubururu ndetse niry'umweru hari isaha ku gikuta ndetse munsi yayo hari insakazamashusho ntoya harimo imashini nini yagenewe kureba mu mubiri w'umuntu indwara zirimo.

Icyumba kigari kandi gifite isuku yo ku rwego rwo hejuru, gifite amadirishya manini y'ibirahure ndetse n'ibikuta bisize amarange y'umweru, ibitanda bitondetse ku murongo n'inzitiramubu zabyo, abana bicaye ku bitanda ndetse n'umwe wicaye yegeranye n'akagare kagenewe aba bana n'ubumuga.

Icyumba cyo kwa muganga aho bashyira abarwayi barembye. Gisa neza kandi kirimo ibitanda bitandukanye. Hari inzitiramubu ndetse n'amarido atuma urumuri rugabanyuka kwinjiramo ari rwinshi. Ibikuta by'aho birasa umuhondo ndetse n'amashuka yiganjemo ibara ry'ubururu.

Icyumba kigari giteguye neza kandi gisukuye, kirimo utundi twumba duto duto tugizwe n'ibirahure bibonerana hejuru ndetse hasi bikaba bisize irangi ry'umweru, hari ibitanda bito bishashe neza ndetse n'isakazamashusho zimanitse hejuru.

Icyumba kigari cyo kwa muganga cyiganjemo ibara ry'umweru werurutse, akabati gato kariho udukarito tubiri hejuru ndetse n'akandi gakarito k'umweru n'ubururu bajugunyamo imyanda, umuganga wambaye imyenda y'ubururu hari gutambukamo hagati ndetse n'abandi bari kuganira harimoambaye agapfukamunwa.

Icyumba kigari kandi gifite isuku iri ku rwego go hejuru, kirimo ibimera bitanga umwuka mwiza, hakabamo intebe z'ubwoko butandukanye, hari udukoresho dutandukanye twifashishwa kwa muganga, ndetse hari n'icyuma cyo hejuru gifasha mu kuzana ubukonje mu nzu.

Icyumba kigari kandi gisa neza cyane mu ibara ry'umweru ryiganje, intebe zigera kuri eshatu, ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'utubati twazo, hakaba hari n'ikindi gikoresho gikoreshwa kwa muganga, mu gufata ibizamini runaka.

Umugabo wirabura uryamye ku gitanda kimeze nk'icyo kwa muganga kiriho amashuka y'umweru yambaye ishati y'umweru n'agasengeri k'umweru, azamuye igikumwe hejuru agaragaza nkaho ameze neza iruhande rwe hari imigozi myinshi ndetse n'imashini zo kwa muganga.

Icyumba kinini cy'uruganiriro gifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo, abantu benshi bicaye ku ntebe z'urubaho, imbere hari abicayeyi babiri bafite n'amezaza n'umwe uhagaze uri kwigisha, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyo barimo ibyo ari byo.

Icyumba cyo kwa muganga gifite isuku yo ku rwego rwo hejuru giciwemo kabiri n'urugi rw'ibirahure, igice kimwe kirimo igikuta gifite ibara ry'umuhondo ndetse giteretsemo n'intebe zifite ibara ry'icyatsi. Ikindi gikuta aho bakandagira hose ni umweru ndetse hari agakuta gatoya aho bamanika amatangazo.

Icyumba kinini cyo kwa muganga, gifite ibikuta byiganjemo ibara ry'umweru ndetse na kacye hasi, abaganga bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'imashini ihambaye ifasha mu kuvura indwara zo mu kanwa, umurwayi aryamye ku gitanda kiriho ishuka y'umweru, yambaye umwenda w'ubururu ndetse hashashweho agatambaro k'icyatsi.

Inyubako nziza cyane kandi nini igezweho ifite ubusitani burimo amatara akoresha imbaraga zi'mirasire yizuba isize amarangi yumweru yiganje ndetse n'udukuta tumwe na tumwe tw'amatafarihibye.

umugore wirabura ukuze wambaye igitenge cyiganjemo ibara ry'ubururu, ari kuganira n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu bicaye mu mbuga irimo utubuye duto, inyuma yabo hari insina ndetse n'indabyo n'inzu yubakishije amatafari ya rukarakara.

Icyumba kigari cyo kwa muganga gisa neza kandi kiganjemo ibara ry'umweru ku nkuta zacyo, gitangirwamo serivisi zo kubyara, hari udutanda duto bahita bashyiraho uruhinja iyo rukimara kuvuka, ndetse hakaba n'igitanda kinini umubyeyi aba aryamyeho, hejuru hari amatara yabugenewe ndetse hari na mudasobwa bakoresha bari kureba ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'umwana.

Inzu nini y'amagorofa menshi igizwe n'amadirishya menshi cyane y'ibirahuri, hasi hari aho imodoka ziparika ziganjemo ambulance ndetse n'umugabo wambaye umupira utukura n'ipantaro yirabura, uri kuyobora imodoka ayereka aho iparika.

Imbuga nto iri gutangirwamo serivisi z'ubuzima, umugabo wirabura wambaye ishati y'umweru ndetse n'agasengeri, yamanuyeho gato aterwa urushinge n'umugabo uhagaze wambaye itaburiya y'umweru ndetse yambaye n'uturindantoki. Afite baji igaragaza ko ari umuganga wabyigiye.

Icyumba cyiza gisize irangi ry'umuhondo werurutse, kirimo intebe zijya gusa n'ivu, n'ibyuma bikoreshwa mu buvuzi bihambaye, hari insakazamashusho imanitse hejuru, isaha, ndetse n'imitako itandukanye iri ku bikuta by'icyo cyumba.

Icyumba kigari cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, gisa neza kandi gifite amadirishya manini cyane y'ibirahure. Harimo ibikoresho bitandukanye bakoresha, harimo ibyo bagenderaho birukanka, ibyo batwara nk'igare ndetse n'ibifite ibiro byinshi baterura kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri.

Igice cy'imbere cy'inzu y'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal. Haragaragara urujya n'uruza rw'abantu ndetse hari isuku itangaje, ibiti bitanga umwuka mwiza kandi hari n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Umwana muto wambaye neza uri gusunika umusaza wicaye mu ntebe yagenewe ababana n'ubumuga ndetse n'abafite intege nkeya, imbere yabo hari umukozi w'ibiro utegereje kubakira wambaye umupira w'ibara ry'umweru.

Inyubako nini cyane kandi ifite isuku yo ku rwego rwo hejuru, yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse isakajwe n'amabati y'ubururu. Ifite aho imodoka zihagarara hahagije ndetse hari n'imodoka nziza ifite ibara rya kaki.

Icyumba gisa neza cyiganjemo ibara ry'umweru, kiriho akabati karimo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga, hicayeho abantu bagera kuri bane, abakobwa n'abahungu bishimye ku isura, bambaye imyenda yabugenewe yo kuba bari aho hantu kandi bambaye n'uturindantoki.

Icyumba kigari cyo kwa muganga gicanye neza kandi cyiganjemo ibara ry'umweru. Ku gikuta hari insakazamashusho nini ndetse iruhande rwayo hahagaze abantu harimo uwambaye itaburiya ndetse n'abandi bambaye imyenda yiganjemo ubururu n'iy'umukara, bambaye n'utugofero mu mutwe. Iruhande rwabo hari urugi runini cyane rufite isaha hejuru yandikishijwemo inyuguti zitukura.

Icyumba kinini kigali cyo kwa muganga, cyagenewe kwakira abarwayi, kiganjemo amabara y'icyatsi, umweru ndetse n'ubururu, gifite amatara yaka neza ndetse n'ibitanda bishashe neza.

Inyubako nziza yubakishijwe amakoro ndetse n'utuyira twiza tw'amabuye aconze, ibihingwa ndetse na pasiparume ziconze neza, ibiti ndetse n'amazu afite amabati y'ibara rya oranje. Abantu batatu harimo utwaye uyu mwana, ndetse n'undi wambaye imyenda y'akazi ufite n'akabase mu ntoki.

Abantu babiri, umwe wambaye umupira w'umuhondo, afite ikibazo cy'imvune, arikugendera ku mfashangendo ifite amapine ane, undi wambaye umupira w'ubururu, afite umupira w'amaguru mu ntoki, inyuma yabo hari ubusitani bunini, ndetse n'inzu nini cyane.

Amashushongiro afatwa n'imashini yabugenewe yo kwa muganga, kugira ngo yerekane ubwonko bw'umuntu uko bumeze ndetse n'ikibazo bwaba bufite, berekana impande zombi, urebeye mu musaya ndetse n'igihe urebeye gihorihori ku ruhande rwo hirya. Biri ku nsakazamashusho nini ikoreshwa n'abaganga kugira ngo barebe ayo mashusho.

Icyumba bigaragara ko hakorerwa imyitozo ngororamubiri, hariho itapi y'icyatsi ndetse n'umukobwa uri gukora imyitozo yo gusunika ibintu biremereye ku kantu kabugenewe, yambaye ikabutura y'ubururu, inkweto zabugenewe ndetse n'agapira gafite ibara ry'icyatsi gipika.

Umugabo wirabura ufite igishushanyo ku itako ari gukora imyitozo ngororamubiri mu cyumba cyijimye ariko gifite amadirishya manini cyane, yambaye ikabutura y'umweru ndetse n'inkweto zabugenewe ziganjemo ibara ry'umweru n'umutuku.

Icyapa kiriho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hariho intoki z'umuzungu uteruye isahani iriho imboga n'imbuto bigiye bitandukanye, inkweto bakoresha imyitozo ngororamubiri n'agakeka bayikoreraho, umunzani upima ibiro ndetse n'icupa ry'amazi.

Umugabo wambaye umupira utukura n'ikabutura y'umukara irimo akarongo gatukura ku ruhande n'inkweto zo gukorana imyitozo, ari mu cyumba bakoreramo imyitozo ngororamubiri cyabugenewe kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo n'imipira minini cyane y'amabara atandukanye. Ahagaze ku kantu gasa ubururu kameze nk'agatanda gatoya ariko gafite amapine.

Icyapa kiriho udukoresho twose twagenewe kuba mu gikapu cy'umuntu ugiye gukora ubutabazi bw'ibanze, harimo udupfukamunwa, inshinge, imikasi, itoroshi, ibinini, ibigabanya uburibwe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inkoni ifite ibara ry'umweru yifashishwa n'abantu bavunikiye mu myitozo ngororamubiri ariko batangiye gukira, ifite amaguru ane ariho amapine ndetse n'ikirindi hejuru kimeze nk'ik'igitiyo.

Igikapu kinini cyane gitukura, gifite imifuka myinshi, kirimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, harimo umukasi, harimo ibipfuko harimo n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umugabo ufite umubiri w'umutse ari kwigorora akoza ibiganza bye munsi y'ibirenge, yicaye mu busitani bwiza, hari akazuba, yambaye isengeri y'umukara kandi afite uruhu rwirabura cyane.

Ameza magari y'umweru ariho udukoresho tugiye dutandukanye, twifashijwe n'abaganga bagiye gufasha abantu bagiriye ibibazo ku myitozo ngororamubiri, cyangwa se mu mikino igiye itandukanye, hari igikapu bitwaza, ibipfuko, umukasi, inshinge ndetse n'utundi tuntu duto duto tugiye dutandukanye.

Umugabo wirabura uri mu cyumba gicanye neza, yicaye ku ntebe y'ibara ry'umweru, yambaye umupira w'amaboko magufi w'ibara rijya gusa n'ivu, afite agashashi k'ubururu karimo ibikonje yashyize ku kaboko ke nk'umuntu wagize ikibazo ku igufwa.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru kigaragaza imyitozo icumi umuntu yakora, igihe amaze kunanirwa mu bwonko. Uruhande rumwe ruragaragaza imyitozo wakora wicaye iri mu ibara ry'ubururu, urundi ruhande ruragaragaza imyitozo wakora uhagaze, ruri mu ibara ry'icyatsi.

Umugabo wirabura wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri ari kuyikorera ahantu hari ikibuga gifite ibara ry'icyatsi, yambaye ipantaro y'umukara, irimo akarongo k'umweru ndetse n'umupira w'amaboko magufi w'umukara, arasutamye iruhande rwe, hahagaze undi w'umuzungu wambaye ipantaro y'irabura ndetse n'agapira k'ubururu.

Icyumba kigari cyo kwa muganga gisa neza, gitangirwamo serivisi zo kugorora abantu, bafite ikibazo cy'amagufwa yavunitse ndetse n'amagufa yahinamiranye. Harimo ibitanda by'umukara biryamyeho abantu bari kugororwa, ndetse n'abandi bari kubagorora hejuru yabo. Ku ruhande, hari n'udutebe duto turiho imyenda minini bagiye bakuramo.

Umukobwa mwiza. Uri mu cyanya cyahariwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'ibara ry'ivu ndetse n'utwumvisha amajwi tw'ibara ry'umweru. Isaha ku kuboko y'ibara ry'umukara ndetse na telefone ye ku kundi kuboko. Ari kugorora amaboko ye ayanyujije inyuma y'umutwe.

Icyapa gito kiriho ibinini bifite amoko atandukanye n'amabara atandukanye, harimo iby'umweru, umuhondo, ndetse n'ibya oranje, hakaba hariho n'urushinge, handitseho amagambo agira ati ahazaza h'imiti yongerera imbaraga abantu igihe bari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo ufite umubiri wumutse ndetse n'uruhu rwerurutse, afite akantu kari aho ukuboko guhurira n'urutugu kamufasha ndetse kakamuvura bitewe n'ikibazo yagize cy'imvune, inyuma ye hari igikuta gisize irangi ry'ubururu bwijimye.

Igikapu kinini cyane kiri mu ibara ritukura, kirimo imiti yifashishwa mu butabazi bw'ibanze, iragerekeranije hasi no hejuru harimo uturindantoki ifasha mu kugabanya ububabare ndetse n'iyindi igiye itandukanye.

Ameza manini y'umweru ateretseho imipira myinshi ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri runaka, harimo umupira w'amaguru, umupira wa basikete, umupira wa tenisi ndetse n'iyindi itandukanye iri kumwe n'akamashini gakoreshwa n'abaganga mu kumva uko umutima utera.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bwo kugorora imitsi. Kirasa neza kandi kirateguye, hari umurwayi uryamye ku gitanda, ari kugororwa imitsi na muganga wambaye imyenda y'ubururu umuhagaze iruhande, ari gukoresha intoki ze agorora ufite ikibazo mu kaguru.

Icyumba kinini gifite isuku n'amadirishya manini, ibikuta bya cyo bisize irange ry'umweru, hari umukobwa ugororotse cyane uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda yabugenewe ndetse hari n'umukeka bakoreraho iyo myitozo ngororamubiri.

Icyumba gito gitangirwamo serivisi z'ubuzima cya kwa muganga, umubyeyi wambaye agapira k'iroza ndetse n'ijiri y'ubururu yabugenewe, yicaye ku ntebe y'umukara arimo arapima umwana muto akoresheje imashini yabugenewe.

Icyumba kigari cyo kwa muganga, gitangirwamo serivise zo kugorora abantu bagiriye ibibazo mu myitozo ngororamubiri, harimo umugabo umwe w'umuzungu, wambaye umupira w'umukara, ufite umugozi ukweduka w'umuhondo. Umuhagaze hejuru ni umuganga, wambaye imyenda y'ubururu, uri kumukoresha iyo myitozo.

Akapa gato karimo ibara ry'ubururu kariho udukoresho dukoreshwa kwa muganga cyane harimo kamwe kumva uburyo umutima utera, akandi kagaragaza uburyo umutima utera mu kirahure ndetse hakabamo n'intebe ifite ibara ry'icyatsi.

Ameza akozwe mu rubaho ariho ibintu byose wakenera kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Hariho udukoresho tw'ingenzi wakenera ukora imyitozo ngororamubiri ndetse hakaba hariho n'ubwoko bwose bw'ibiribwa wafata kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba gito cyo kwa muganga cyiganjemo ibara ry'umweru haba ku nkuta ndetse no hasi aho bakandagira, harimo imashini nini yagenewe gufotora mu mbere mu mubiri w'umuntu gifite ibara ry'umweru agatanda kayo ndetse n'ikindi kintu gifashe hejuru mu gisenge.

Umugabo wirabura, wambaye umupira usa n'ivu, afite agashashi karimo ibikonje kari mu ibara ry'ubururu yashyize ku mvune ye, yicaye ku ntebe y'umweru ndetse ari mu cyumba gicanye neza, mo imbere yambaye agapira gafite ibara ry'umukara.

Icyumba kigari kirimo intebe ndetse n'abantu bicaye ku mukeka, harimo umubikira, umuzungu ndetse n'umwana mutoya ubona ko yishimiye ibyo bari kumukorera, hirya hari umubyeyi ubona ko ananiwe ndetse n'igikapu cya manwa inyuma y'umuzungu.

Ikirere gike kandi kiri kuvamo akazuba gake, abantu babiri umugabo ndetse n'umugore bahagaze bateranya umugongo. Umugabo yambaye agapira k'amaboko magufi ari kunywa amazi n'umugore yambaye umwenda w'umukara nawe ari kunywa amazi mu gacupa kabonerana.

Ibikapu bitatu byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze bifunguye mu buryo butandukanye kimwe cyo hejuru kirafunguye cyane, ikigikurikira gifunguye igice, icyo hasi kinini gifunze ahantu hose; harimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze nk'imiti igabanya uburibwe n'udupfukamunwa n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa budacoze neza, wambaye agapira k'ibara ry'ubururu n'isaha y'umukara, uri kunywa amazi ari mu icupa ribonerana ndetse akaba agaragara nk'umuntu uri gukora siporo.

Ikibuga bakiniraho umupira w'amaguru, umwe mu bakina agize ikibazo k'imvune abashinzwe ubuvuzi bw'ibanze bambaye amajire atukura bari kugerageza kumufasha, hejuru yabo hahagaze abandi bakinnyi ndetse n'umuntu umwe uri gufata amashusho.

Icyumba gitoya gifite isuku kandi gisa neza igikuta cy'umweru hari n'utuvase turimo ibimera bigiye bitandukanye umukobwa wirabura ari gukora imyitozo ku gakeka gafite ibara ritukura yambaye ipantaro y'umukara.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, bigaragara ko afite umubiri wumutse, yambaye inkweto, agasengeri ndetse n'ako mu mutwe by'icyatsi gipika cyane, agakabutura kagufi ndetse n'isaha y'ibara ry'umweru ku kuboko, bigaragara ko ari gukorera siporo ahantu hanini hagari kandi ari akazuba gakeya.

Icyapa kigaragaza ubukangurambaga bugenewe abantu bicara igihe kirekire. Burerekana imyitozo ngororamubiri bakora kugira ngo bafashe urutirigongo rwabo, kutamererwa nabi. Hariho izina ry'ukozeze ubukangurambaga ndetse gikozwe mu ibara ry'ubururu bwerurutse.

Icyumba gito cyo kwa muganga bavuriramo abantu bafite ibibazo by'imvune, hari agatanda gatoya kicayeho umuntu wirabura uziritseho utuntu ku ivi rye ndetse yegeranye n'undi w'umuzungu wambaye itaburiya y'umweru uri kumwitaho.

Icyumba gito gisa neza kandi gifite amabara yiganjemo umwe ku bikuta byacyo uburiri busashe amashoka yiganjemo ibara ry'ivu, umukobwa uri kwinanura ufite uruhu rwirabura, yambaye imyenda yagenewe gukorana imyitozo ngororamubir, ipantaro yirabura, n'agasengero kirabura.

Imashini ikoreshwa kwa muganga igizwe n'amaguru ane hariho amapine, igiti kizamuye ndetse n'insakazamashusho ku gice cyo hejuru, iri ku gikuta cy'umweru kandi iragaragaza amashusho arimo ibiganza bibiri bifite utuntu tubiri mu ntoki.

Umukobwa muto muto wirabura wambaye agasengeri kabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'agasume gafite ibara ryirabura n'uduherena ku matwi ari kunywa amazi, inyuma ye hari umuryango mugari.

Umukobwa mwiza bigaragara ko agororotse cyane, yambaye imyenda yabugenewe ari gukora imyitozo ngororamubiri mu cyumba cye, ku mukeka w'ibara ry'umweru, ndetse inyuma ye hari igitanda gifashwe n'amashuka ari mu ibara ry'ivu. Imbere ye hateretse icupa ry'amazi ribonerana.

Icyumba gito gifite urukuta rusize irangi rijya gusa nk'ivu ariko ricanyeho urumuri rwinshi, ameza ateretseho ikirahuri kibonerana umuntu uri gusuka ufite ijage yuzuyemo amazi nayo iboneranarana.

Ameza magari akozwe mu rubaho asize ibara ry'umweru, ateretseho ikirahure kirimo umutobe wa orange, imbuto, n'imboga, ndetse n'utwuma duto twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri hariho na metero yifashishwa mu gupima uburebure bw'ibintu runaka.

Umugabo wirabura, ufite umubiri wumutse, yambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi, ndetse n'akantu gafite ibara rya move ku kaboko. Ari kwimenaho amazi, akoresheje icupa ribonerana, rifite umufuniko w'umukara. Hari ahantu hagari, kandi izuba riri kumusaho. Inyuma ye hari urutare runini cyane.

Icyumba gicanye neza kirimo mudasobwa zigera kuri eshatu, zirimo amashusho agaragaza ubwonko bw'umuntu runaka, inyuma yazo hahagaze abaganga bagera kuri batatu, bari kuganira ibintu bigiye bitandukanye.

Umukobwa muto wirabura ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'umweru n'imyenda y'umukara, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi ribonerana, yambaye utwumvisho tw'ibara ry'umweru ducometse muri telefone ye ifashe ku kaboko ke.

Umuganga wirabura wambaye itaburiya ndetse afite n'akuma kumva ko umutima utera, ari gukanda ku ivi ry'umurwayi wambaye ikabutura isa nk'ivu ngo yumve ko ameze neza, ari mu cyumba kibona, inyuma ye hari idirishya ry'ikirahure.

Umusore w'uruhu rwirabura, ufite umubiri wumutse ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara, yivanzemo n'amabara y'ivu ndetse n'inkweto z'umweru zivanzemo n'amabara y'ivu, n'isengeri y'umukara. Yambaye utwumvishamajwi duturuka mu mufuka we.

Imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abaganga, bafasha abantu bari mu myitozo ngororamubiri harimo uturindantoki, harimo ibifasha mu gupfuka ibisebe, hakabamo ibifasha igihe umuntu yavunitse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa n'abaganga ndetse n'ababizobereyemo mu gufasha abantu bagiriye ibibazo mu myitozo ngororamubiri, ndetse n'ibijyanye nabyo, harimo: insimburangingo, ibifasha gusuzuma abantu, ibikapu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inkoni nziza ifite ibara ry'umukara n'igicucucu cyayo, yifashishwa n'abantu bari mu za bukuru ndetse n'abakoze imyitozo ngororamubiri bakagira ikibazo cyo kuvunika bayifashisha kugira ngo batangire kwiga kugenda.

Umugabo wirabura kandi ufite umubiri wumutse wambaye agapira ka kaki ndetse n'ikabutura y'umukara n'inkweto zabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, yamanitse amaguru ku cyuma gitandukanya inzira y'abanyamaguru ndetse n'amazi magari ari hepfo yacyo.

Umugabo ufite umubiri wumutse kandi uteye neza, ari kunywa amazi mu icupa ry'ubururu ribonerana, yambaye isengeri ry'ibara rijya gusa n'ivu ndetse nta bwanwa afite, ariko afite umusatsi umuconze neza cyane.

Akabati kagari ko kwa muganga karimo imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye, ipanze mu dukarito tugerekeyije hejuru y'utundi, harimo udufite amabara y'umweru n'umuhondo ndetse n'udufite amabara y'ubururu n'umweru hakaba n'utundi dufite amabara y'umuhondo n'umutuku.

Icyumba gito cyo kwa muganga gifite isuku bafashirizamo abantu bagize imvune bari mu mikino ndetse n'imyitozo ngororamubiri, muganga ahagaze hejuru ndetse umurwayi yicaye ku ntebe yabugenewe arimo arakora umwitozo ugaragaza aho akaguru ke kageze gakira.

Icyumba gito cyo kwa muganga kirimo ameza manini y'urubaho ateretseho insinga nyinshi ndetse na mudasobwa, umuganga wambaye imyenda y'ubururu wicaye ku ntebe yirabura ari gupima ijisho ry'akana gato kambaye umwenda wa oranje gakikiwe n'umubyeyi wako wambaye agapfukamunwa.

Icyumba kigari kandi gifite isuku iri ku rwego hejuru kiganjemo amabara y'umweru mu bikoresho ndetse no ku bikuta byacyo hari intebe ziganjemo iz'ubururu ndetse n'agatanda gatoya gafite ibara ry'ubururu, hari utubati n'ameza ateretseho insakazamashusho ntoya ndetse n'indi nsakazamashusho iri hejuru kuri purafo.

Umukobwa mwiza, wambaye imyenda yagenewe gukorana imyitozo ngororamubiri. Ari kunywa amazi mu icupa ribonerana kandi azengurutswe n'ibiti by'icyatsi. Afite terefone ku kaboko ke k'ibumoso.

Umugabo wirabura wambaye agapira k'amaboko magufi, ari kunywa amazi mu icupa ribonerana rifite umunwa w'ubururu bwerurutse, inyuma ye hari ibiti byiza by'icyatsi kibisi kandi biragaragara ko izuba riri kumuviraraho.

Icyumba gito cyiganjemo ibara ry'umweru, hari intebe z'ibara ry'umweru zirimo udusego tw'icyatsi, imbere yazo hari umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'umweru.

Icyumba cyiza gifite ibikuta bifite ibara rya oranje, abantu babiri umwe aryamye ku gatanda asa nk'uwagize ikibazo mu ivi, undi amuhagaze iruhande ari gukoresha agafuka karimo ibikonje kugira ngo amuvure.

Icyumba gito cyo kwa muganga gikorerwamo ubuvuzi buhambaye, abaganga batanu bambaye imyenda yabugenewe, udupfukamunwa, udupfukamusatsi ndetse n'uturindantoki ku maboko yabo, ibikoresho bakoresha biri mu tuntu tumeze nk'udusahani ndetse n'imashini ihambaye iri iruhande rwabo.

Umuntu wirabura uri gukora imyitozo ngororamubiri anyujije akaboko ke inyuma akagukuruza akandi, yambaye umwenda w'ubururu wabugenewe mu gukora imyitozo imbere ye hari amazu menshi cyane ndetse n'umusozi n'ikirere gikeye.

Umusore wirabura kandi ufite umubiri wumutse, ufite ubwanwa bukeya ku kananwa ndetse no hejuru y'umunwa, ari kunywa amazi mu icupa ribonerana, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'agakomo k'icyatsi ku kaboko. Yegamye ku nkingi.

Umugabo wirabura kandi ufite umubiri wumutse, yambaye agakabutura gatukura ndetse n'umupira w'umukara n'inkweto zagenewe gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi ari gukanda imfundiko ye kubera ko agize ikibazo, inyuma ye hari ibiti ndetse n'izuba ririmo rirava.

Umukobwa uri mu kibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri gifite ubwatsi bwiza bw'icyatsi, inyuma ye hari amatara manini cyane yambaye agasengeri k'ibara rya oranje ndetse n'inkweto zabugenewe n'agakabutura kiganjemo ibara ry'ubururu.

Icyumba gitoya cyo kwa muganga kiberamo inama, harimo ameza manini akozwe mu rubaho ateretseho mudasobwa ebyiri, ndetse hari n'isakazamashusho nini cyane. Abantu bahagaze bambaye udupfukamunwa ndetse n'udupfuka imisatsi yabo, bakurikiranye ikiganiro kuri ya nsankazamashusho.

Ku kibuga cyabugenewe, bakoreraho imyitozo ngororamubiri, abantu bane bari kwirukanka, babiri imbere abandi nyuma yabo, bambaye imyenda yabugenewe bakorana uwo murimo, ndetse biragaragara ko izuba riri kuva ari ryinshi. Umwe muri bo ashushanyijeho utuntu tw'ubururu, dushashagirana.

Icyumba gito gifite inkuta z'ibara ry'umweru kandi ziriho amafoto, ikirahure kinini kiriho rido y'ubururu yizinze, hanze hari imodoka y'ibara ry'umweru. Umugabo wambaye umupira w'umweru, ikabutura y'ubururu bwijimye ndetse n'amasogisi yirabura, ari kugororwa n'umuzungu wambaye isaha ku kuboko ndetse n'agapira gatoya k'ibara ry'ubururu.

Icyumba kigari icyo kwa muganga gisa neza kandi gicanyemo amatara menshi, kirimo igitanda cyabugenewe gishasheho amashuka y'ibara ry'ubururu, hakaba n'imashini z'ubwoko zigiye zitandukanye, harimo n'ifite insakazamashusho nini, hari ndetse n'akandi kamashini gatoya gafite n'inzakazamashusho ntoya.

Umukobwa mwiza ufite uruhu rukeye ari ugukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda agasengeri k'icyatsi n'ikabutura y'icyatsi ndetse n'inkweto ziganjemo ibara ry'icyatsi, ari hafi y'amazi magari izuba riri kumurasaho kandi ahagaze akuruye akaguru ke akegereza inda ye.

Icyumba gitoya gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, yo guterura ibyuma biremereye, harimo umugabo wirabura uteruye icyuma kiremereye, yambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro yikigina. Inyuma ye hari ibindi byuma bitandukanye byifashishwa mu gukora iyo myitozo ngororamubiri.

Icyapa gito kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, kiriho agacupa gato kabonerana k'umuti karimo umuti w'ibara ry'icyatsi. Iruhande rwako hari igikakarubamba ndetse gapfundikijwe akantu gakomeye cyane kari mu ibara rijya gusa nk'umweru urimo kaki.

Uducupa dutondetse ku murongo dukozwe mu birarahuri. Buri kamwe gafite icyapa kikaranga kandi turimo ibyatsi bigiye bitandukanye, tumwe dufite imifuniko y'ibara ry'umweru, utundi dufite ibara ry'umutuku, utundi ibara risa na zahabu.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi kibisi ndetse n'ipantaro y'ubururu bwijimye, afite ibimera bitandukanye mu maboko ye kandi ahagaze imbere y'ama esikariye abiri y'ibara ry'icyatsi, inyuma ye hari idirishya rinini cyane ndetse n'umuntu uri guhita.

Akapa gato kariho amacupa n'udukarito dutandukanye, hariho tubiri tw'ibara ry'umukara dufite ibyapa by'umuhondo ndetse n'imifuniko y'umweru, hakaba utundi dukarito dushushanyijeho igikakarubamba twiganjemo ibara ry'umweru, ndetse hakaba n'utundi tubiri dushushanyijeho igikakarubamba twiganjemo ibara ry'umuhondo.

Ibyatsi by'ubwoko butandukanye hari n'ibifite indabyo biri mu gasekuru ka kizungu kegeranye n'ibiyiko bibiri binini biriho ibini, bikaba hari n'ibyaguye ku meza. Hari uducupa dushyirwamo imiti bakoresha bashyira igitonyanga kimwe mu maso cyangwa ahandi hantu hakenewe gushyirwa ibitonyanga by'umuti.

Uducupa twinshi tw'imiti, turi mu ibara ry'umweru, duteretse tugerekeranye, tumwe hejuru y'utundi, turiho ibirango bidutandukanya bitewe n'amazina ariho, ndetse n'amabara ariho, hagati yatwo harimo igikarito kinini cy'ibara ry'icyatsi n'umweru, cyanditseho umubare cumi n'umunani.

Iki ni ikimera cyitwa inyabarasanya kivamo imiti myinshi, abanyarwanda kera bagikoreshaga bashaka nko guhagarika ahantu umuntu yavuye amaraso, cyangwa se bari kugira ngo bamugabanyirize uburibwe, kigaragara mu bice byinshi biba birimo ibihuru, kuko kirimeza nta muntu ugihinga.

Umugabo wirabura wambaye ishati y'umweru irimo uturongo afite igicupa gifite umupfundikizo w'ubururu, inyuma ye hari ibicupa byinshi bibonerana ariko bifite imipfundikizo y'ubururu, imbere ye hari indobo irimo ibintu bikoreshwa mu miti ya gakondo ndetse n'impande ye ku meza huzuyeho ibyatsi bimeze gutyo.

Abantu benshi biganjemo abambaye imipira y'ibara ry'icyatsi bahagaze mu murima w'ibikakarubamba bazengurutswe n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi byinshi, harimo umwe muri bo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'undi wambaye ishati y'igitenge.

Ameza manini y'umweru ateretseho ibintu bitandukanye harimo imiti amasabune ndetse n'amavuta bituruka mu bihingwa cyane cyane igikakarubamba gifunze mu buryo butandukanye kandi buri cyose cyanditseho amazina yacyo ndetse n'ibintu bitoya bikiranga.

Ameza ateretseho amacupa atatu y'ibara ry'umweru arimo imiti ndetse n'irindi cupa rimwe rinini ririmo ubuki, hariho indabyo ndetse inyuma yabyo hari umutiba w'inzuki uriho n'inzuki nyinshi.

Icyumba kigari kirimo ameza ateretseho igitambaro cy'ubururu, hariho uducupa twinshi tw'imiti twiganjemo udufite imipfundikizo y'icyatsi, hakaba n'utundi duke dufite imipfundikizo y'umweru dusa ibara ry'umukara, hirya gato hahagaze abantu benshi.

Ameza manini afite ibara ry'umweru ateretseho agakoresho kameze nk'indosho gakoreshwa kavana ibinini mu gikoresho runaka kibibika, hari n'ibinini byinshi bifite ibara ry'icyatsi dukunze kwita irya gisirikare bimwe birimo imbere ibindi bisendereye ku meza.

Icyapa gito cyamamaza umuti runaka uriho agacupa kawo ndetse n'indwara uvura ziri ku rundi ruhande zandikishije inyuguti z'umweru, inyuma hari udushushanyo tw'abantu babiri umugore n'umugabo begeranye.

Igiti cyeraho amababi yitwa umuravumba cyifashishwaga cyane n'abaturage bo mu Rwanda rwa kera mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo inzoka ndetse n'ibicurane bavangaga n'ubuki ndetse n'indimu, babihereza umwana ngo abinywe agahita akira.

Icyapa cyamamaza amavuta afunze neza mu ducupa twiganjemo ibara ry'umweru, hari isabune iri ku gasahani k'umweru ndetse hari n'igice cy'avoka kuru ruhande rwa hirya, hasi hariho amagambo yamamaza ayo mavuta ari hejuru.

Icyapa kiriho imiti itandukanye, harimo igikarito kinini, cyiganjemo ibara ry'icyatsi n'umweru, hariho n'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, cyanditseho F 15, uducupa tubiri tw'umuhondo, dufite imifuniko y'ikigina, ndetse n'agashashi gatoya kamwe ku ruhande.

Ameza manini akozwe mu rubaho, arambuyeho akarago gatoya, hejuru hariho utubindi duto ndetse n'ibihingwa n'amababi bigiye bitandukanye. Hari ifu y'umuhondo ndetse n'ururabyo rutukura.

Agacupa gatoya k'amavuta kagizwe n'ibara ry'umweru ndetse kaba ka gafite umupfundikizo ufite ibara ry'ubururu kanditseho amagambo hydrating serum ndetse hariho n'agashushanyo gatoya k'akanyoni inyuma yako harasa ibara ry'umukara.

Udukarito duto turi ku meza, inyuma hari igikuta gifite ibara ry'ubururu dufunze neza turimo imiti yongera amavitamine ndetse n'imyunyu ngugu mu mubiri. Hari agakarito kamwe kagenewe abantu bakuru, inyuma hari akandi gakarito kagenewe abana batoya.

Imiti, amasabune ndetse n'amavuta bitandukanye kandi bifunze neza, biri imbere y'igikuta cy'umweru kandi byanditseho amazina yabyo, bimwe muri byo biriho n'ibihingwa bikozwemo.

Uducupa dutatu tw'imiti duhagaze mu buryo butandukanye, ku meza afite ibara ry'umuhondo, imbere igikuta gifite ibara ry'umweru, hejuru hari amagambo ameze nk'ayamamaza icyo iyo miti ikora.

Ahantu hari kubera ubucuruzi bw'imiti itandukanye ya gakondo, hari amacupa menshi afunze mu mabara agiye atandukanye, hari abaguzi ndetse n'abagurisha bari ku mpande zitandukanye z'ameza.

Icyumba gito kirimo urumuri rukeya, umusore ufite uruhu rwirabura wambaye itaburiya, inyuma yiwe hari intebe zifite ibara ry'umukara, imbere ye hateretse uducupa tubiri kamwe kabonerana akandi gafite ibara ry'umukara twose dupfundikijwe udupfundikizo dutukura.

Agakarito gato kiganjemo ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, kariho amagambo yandikishije ibara ry'umukara ndetse hariho n'akanyoni kari mu ibara ry'umukara, kari ku meza y'ibara ry'umweru manini ndetse imbere yako hari n'icyo kabika. Hariho imiti igiye itandukanye ikozwe mu bimera.

Amasabune, amavuta ndetse n'imiti bitandukanye bikozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, bifunze neza mu ducupa twabugenewe kandi buri gacupa kanditseho ibirango bijyanye n'icyo uwo muti cyangwa se ayo mavuta akora.

Umurima mugari w'ibikakarubamba urimo imashini zabugenewe zihinga. Abantu biganjemo abambaye imipira y'icyatsi ndetse n'abambaye akaki harimo n'abambaye imipira y'umweru, bari kugenda inyuma y'iyo mashini. Hari igiti kinini cy'umuvumu giteye iruhande rwabo.

Ameza magari akozwe mu rubaho hariho ibihingwa imbuto ndetse n'indabyo nyinshi zifashishwa mu buvuzi gakondo hariho isekuru y'ibara ry'umweru ndetse n'umuhini wayo utubure twinshi turimo izo mbuto n'indabyo bitandukanye hakaba n'umunzani wa kera wifashishwa mu gupima ingano y'ibyo bagiye gukoresha.

Umubyeyi wirabura wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru ndetse afite n'igikapu ku kaboko, ari kureba ibicogoro ndetse hari n'insina iruhande rwe, munsi hari imbingo ziteye zitambitse rumwe hejuru y'urundi.

Ameza y'umweru, ateretseho imiti y'ubwoko butandukanye, ifunze mu ibara ry'umweru n'umuhondo ariko itandukanyijwe n'amazina yanditseho. Hariho igice cy'ikimera cy'igikakarubamba ku ruhande, kigaragaza ko iyo miti ikozwe mu gikakarubamba.

Icyumba kitabona neza, kirimo amakaro ateretseho imiti igiye itandukanye. Harimo uducupa turi mu ibara ry'umuhondo n'uducupa turi mu ibara ry'umweru twinshi ndetse hakaba n'udukarito turi mu ibara ry'umuhondo, turimo n'icyatsi. Hari n'agashashi kanini kiganjemo ibara ry'umweru.

Ameza manini afite ibara ry'umweru ateretseho ibintu bigiye bitandukanye, harimo uducupa tubiri tw'ikigina, ariko tuzengurukijwe urupapuro rw'umuhondo rwanditseho izina ryatwo ndetse hariho n'ifoto y'igikakarubamba, agakarito gato kanditseho C9, gafite n'umukondo ndetse n'iyindi shashi iri inyuma yanditseho Forever life.

Imiti gakondo itandukanye iri ahantu hasa umweru, ifunzwe mu buryo butandukanye kandi no mu ngano zitameze kimwe, buri wose wanditseho izina ryawo ndetse uriho n'ibirango n'ibimera byabo.

Icyapa gito cy'amabara yiganjemo ay'icyatsi n'umuhondo, amagambo hejuru yandikishije ibara ry'umweru ndetse n'andi mato yandikishije ibara ry'umukara, agakarito gato kanditseho kompurite ndetse n'umuntu usa nk'uwifashe mu nda wambaye agapira kirabura.

Igikarito kinini cy'ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, cyanditse n'amagambo menshi. Harimo amazina y'ibiririmo imbere, izina ry'ikigo kibikora igihe bizamara ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, yewe hariho n'uturongo duto duto bashobora gusikana bakoresheje mudasobwa.

Ameza magari hari mu ibura ry'umweru, ateretseho isahani iriho agacupa k'umuti kari mu ibara ry'umweru, inyuma yako hariho amaronji arimo atonoye ndetse n'andi adatonoye gusa yose aciyemo ibice bitandukanye, hariho ndetse n'uturabyo turi inyuma ya ka gacupa.

Udukarito tubiri tw'imiti itandukanye ikozwe mu bimera tugerekeranyije, kamwe inyuma y'akandi muri utwo dukarito, hanyuma ku ruhande hakaba hahagazeho utundi, kamwe kamwe kagaragaza neza uko tuba tumeze iyo tutari mu gikarito.

Ikirere cy'ubururu gikeye cyiganjemo ibicu by'umweru bigaragara ko hari kuva n'izuba ritari ryinshi igiti n'amababi y'ibara ry'icyatsi kibisi yegeranye kandi ari ku duti dutoya tw'udushami.

Ameza manini ari mu ibara ry'umweru ari mu cyumba gicanye neza, hejuru yayo hariho ikibabi kinini kirimo ibara ry'icyatsi, hejuru y'icyo kibabi hari ibinini bigerekeranye binatondekanyije ku murongo.

Ameza manini y'umweru ateretseho imbuto, imboga, ibihingwa ndetse n'ibindi byatsi byifashishwa mu gukora imiti gakondo, hariho agasekuru ka kizungu ndetse n'umurishyo wako hateretseho yewe n'agacupa k'amavuta kabonerana.

Ameza y'umweru ndetse ari imbere y'igikuta gisa nayo ateretseho ibintu byinshi bitandukanye, harimo inanasi, udukarita twa shokora twinshi, hari uducupa tubiri tugerekeranye dufite imifuniko y'ibara ritukura, ndetse hari imizabibu n'agashashi gafite ibara ritukura ndetse n'umweru kanditseho ijambo rodi.

Icupa rito ry'ikinyobwa gitera imbaraga mu mubiri, rikoze mu mukebe, riri ku gikuta cy'umweru, rifite ibara ry'umutuku ryiganje ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Ameza ari mu ibara ry'umweru, ateretseho imiti itandukanye, harimo imwe, iri mu dukarito tw'umuhondo, dufite imipfundikizo, y'ikigina, ndetse dushushanyijeho igikakarubamba, hakaba utundi turi mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'umweru, twanditseho, F cumi na gatanu, hakaba n'akandi gashashi kari mu ibara ry'umweru, ndetse n'ikigina, kanditseho Foreva.

Uducupa tune tugaragaza imiti ikorwa mu bimera bigiye bitandukanye, turi mu mabara atandukanye kandi buri kose kariho ikimera gakozwemo ndetse n'amazina yako agatandukanya n'akandi.

Ameza manini y'ibara ry'ikigina ateretseho utubure twinshi dutandukanye mu ngano, turimo imbuto z'ubwoko butandukanye, hari n'ibiganza bibiri by'umuzungu bifashe zimwe muri izo mbuto.

Amacupa atondekanyije ku murongo, harimo ay'icyatsi ndetse n'ay'ikigina, hariho akavumbi, kandi buri cupa ririho ikirango cyanditseho izina ryacyo ndetse n'ibikiranga.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa bwinshi wambaye ingofero yo mu idini ya isilamu n'agapira k'ibara ritukura, inyuma ye hari utubati turimo uducupa twinshi tw'imiti igiye itandukanye.

Icyapa kiri kwamamaza umuti runaka, hariho ifoto yawo uko usa ndetse n'uburyo uteye, ibyo uwo muti uvura ndetse n'ikigo cyakoze uwo muti, hariho ndetse n'igabanyirizwa rya mirongo itatu kw'ijana ku bantu bagura uwo muti.

Icupa ry'umuti ukozwe mu gikakarubamba ndetse n'amaronji nk'uko bigaragara ku gapapuro kawuzengurutse, wiganjemo amabara ya oranje ndetse urapfundikiye neza, wanditseho izina ryawo n'akamenyetso k'igisiga hejuru yaryo.

Ameza mato ameze nk'ingiga y'igiti iconze neza, iteretseho ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo agasekuru ka kizungu n'umuhini wako, uducupa dutatu turi mu ibara ritukura, harimo udupfundikiye n'akandi kadapfundikiye, icupa rinini ribonerana ririmo amazi arimo igihingwa, ndetse n'akavazi gatoya karimo igihingwa kimeze nk'ikiri mu mazi.

Ameza akozwe mu rubaho ariho agatambaro k'ibara rya kaki, hejuru y'ako hariho agatasi ndetse n'agasahani kako karimo icyayi ndetse ku ruhande hariho na tangawizi zikase ndetse n'izidakase.

Iki ni ikimera cyeraho amababi yitwa umuravumba, abanyarwanda bo hambere bayakoreshaga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Harimo inzoka, ibicurane ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ni ikimera gikomeye cyane kandi mu muco Nyarwanda kirubashywe.